Abana benshi cyane bambaye udupira tw'ubururu turiho amagambo y'umweru ndetse n'umukara, aho bigaragara yuko aba bana baterwa inkunga na inisefu. Inisefu ni ikigo mpuzamahanga cyita, kikanabungabunga ubuzima bw'abana.

Umumama wambaye agapira karimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, yambaye ingofero, akaba akenyeye igitenge, ahangaha rero akaba ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, koga intoki ni byiza kuko bituma abantu bagira ubuzima bwiza buzira indwara ziterwa n'umwanda.

Uyu ni umumama w'umuganga, akaba ari mu nyubako y'ivuriro mo imbere. Ari gusuzuma ibizamini kugira ngo atange ibisubizo. Ni byiza ko buri vuriro ryagira isuzumiro kugira ngo abaturage barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abana batatu bari kudaha amazi mu mugezi bakoresheje indobo, si byiza ko dukoresha amazi aturutse mu mugezi kuko ashobora gutera uburwayi bugiye butandukanye buterwa n'umwanda.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, harimo abambaye udupira tw'ubururu, amakote y'ubururu, amashati y'umweru, imbere ya buri muntu hateretse agacupa k'amazi, abenshi muri bo bafite amaterefone ndetse bamwe na bamwe, imbere yabo hagiye hateretse mudasobwa, bakaba bari mu mahugurwa.

Umumama ndetse n'umwana w'umusore baje kuvoma amazi ku ivome rusange rifite amarobine abiri, irivome ryubatswe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aryegereza abaturage batagerwagaho n'amazi meza kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, harimo abakuze, urubyiruko ndetse n'abakiri bato bakaba bari kwigira hamwe ndetse basuzuma n'uko ubuvuzi bwagera kuri bose kandi bakabubonera ku gihe.

Umwana wambaye agapira k'ubururu karimo imirongo y'umukara. Ari kumwe n'umuntu uri kumusukira amazi akoresheje igikombe cy'icyatsi kibisi. Uyu mwana afite isabune mu ntoki. Ni byiza gutoza umwana isuku akiri muto.

Umwana muto wambaye agapira k'ubururu, akaba ari gutega amazi kuri robine ziteye ku kigega, akaba ari gukoresha igikombe cy'icyuma gifite ibara ry'umuhondo, ni byiza rero kugira amazi meza kuko bituma abaturage bahora bishimye.

Abajyanama b'ubuzima begerejwe abaturage kugira ngo bajye babafasha babasuzume. Aha turi kubona umumama wambaye ishapure mu ijosi, uteza agatambaro k'umukara, wazanye umwana we ku mujyanama w'ubuzima kugira ngo amusuzume, maze arebe ubuzima bwe uko buhagaze.

Abana bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kumwe n'umuntu w'umugabo wambaye ingofero, ari kubaganiriza. Inyuma yabo hakaba hari umusirikare, wambaye impuzankano y'abasirikare, afite akamverope mu ntoki, akaba afite n'akaji mu ntoki. Aba bana bakaba bari kubitaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Iri ni ihuriro nyafurika ryabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, aho bigaga ku bijyanye n'ubuzima, bafatira hamwe ingamba zigiye zitandukanye zo kwirinda indwara z'ibyorezo zikunze kuboneka mu bihugu byinshi.

Iki ni igishushanyo kigaragaza uko ubutabera bushobora gutangwa, ndetse n'uko dushobora kugabanya ikigero cy'abakene. Aha ngaha rero hakaba hari impuzandengo igaragaza y'uko ubukene bwagabanutse bukava ku kigero cya mirongo ine na karindwi kikagera ku kigero cya rimwe ku ijana.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kuganirizwa ku guteza imbere ndetse no kwirinda indwara z'ibyorezo, bose bambaye udupira tw'ubururu turimo amagambo y'umweru mu mugongo, bakaba bicaye ku mikeka myiza cyane y'icyatsi, irimo uturongo tw'umweru.

Aha ni ahantu heza cyane, hakaba hari amazi ndetse akorotiriye neza, harimo amapoto ariho amatara acana ndetse hakaba hari n'ibiti byiza bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi. Aha ni hamwe mu hantu ushobora kugera, ukagira ubuzima bwiza.

Iri ni ivomero rusange, hakaba hahagaze umubyeyi uri kumwe n'abana benshi. Irivomero ryarubatswe kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza bukomoka ku mazi asukuye, kandi bayabonere ku gihe; bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri bari kuvoma amazi yo kunywa ku kigega giteretse ku biti by'umukara ni byiza kunywa amazi asukuye kuko bituma abana bagira ubuzima bwiza kandi bikabarinda uburwayi.

Ni umubyeyi wambaye agapira k'umweru akaba ateruye akana kambaye agapira k'umuhondo, hakaba hari umusore nawe wambaye agapira k'umuhondo, afite icupa ririmo icyo kunywa akaba ari kunywesha uyu mwana mu rwego rwo kubitaho.

Aba ni abantu bari gufata ifoto y'urwibutso; bambaye imyenda irimo amabara agiye atandukanye. Inyuma yabo hari icyapa gisa ubururu hakaba hariyo magambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo; aho bagaragaza yuko ari amahugurwa bari barimo yo kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite.

Aha ni kwa muganga, muganga ari gusuzuma umurwayi maze akandika imyirondoro ye mu mashini ndetse no ku ikayi mu rwego rwo kugira ngo aya makuru abikwe neza kandi mu buryo bwizewe.

Abaganga bambaye impuzankano bakaba bambaye n'amabaji mu ijosi, imbere yabo hari umuzungu wambaye ikote ry'umukara n'amarinete, hakaba hari igiti cyiza cyane gitanga umuyaga ndetse bakaba bari imbere y'inyubako y'ivuriro.

Aha ni ahantu hateraniye abantu benshi cyane, bakaba bari gukaraba intoki, abandi bambaye uturindantoki, udupfukamunwa ndetse n'imyenda yabugenewe mu rwego rwo kwirinda kuba hari uwakwanduza indwara zigiye zitandukanye, nk'uko bigaragara rero iyi ni inyubako y'ivuriro.

Iyi ni inyubako nziza cyane umuntu ashobora kugeraho akagira ubuzima bwiza, hari amazi meza cyane ashobora uruhura ubwonko, hakaba amazu meza ndetse n'imisozi yitegeye, aho uhagera ubwonko bwawe bukaruhuka.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu, akaba ari gutanga amabwiriza, yambaye ikote ry'umukara, karuvati ya oranje ndetse n'amarinete y'umukara, nk'uko bigaragara rero ari gutanga amahugurwa ajyanye n'ubuvuzi rusange ku bantu bose.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari guhabwa amahugurwa y'uko bakwita ku buzima bwabo. Bose barakurikiye, nta n'umwe urangaye, biragaragara neza yuko ibyo bari kubwirwa ari ingirakamaro kandi ko bari kubyumva nta nkomyi.

Umugabo uri koza igare, yambaye ishati y'umuhondo n'ipantaro y'umukara, hakaba hari umumama uri kudaha amazi mu kidendezi, hakurya yabo hari ibyatsi byiza cyane, si byiza ko tuvoma mu bidendezi kuko bishobora kudutera uburwayi.

Uyu ni umumama wikoreye ibido nini cyane y'umuhondo, akaba aciye ku bana b'abanyeshuri, umuhungu ndetse n'umukobwa, umwe yambaye urwenda rw'ubururu, undi yambaye urwa kaki.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso. Basoje igikorwa cy'ubukangurambaga ndetse n'ubujyanama ku bijyanye n'ubuzima. Ni byiza rero ko abantu baterana maze bakarebera hamwe ibitagenda neza.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bambaye impuzankano ya kuruwa ruje, ni imyenda ikoze mu iba ry'icyatsi kibisi. Aba rero bakaba ari bamwe mu bafasha abandi kugira ubuzima bwiza, kuko babafasha iyo bahuye n'ibibazo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo abaganga bagiye batandukanye turi kubonamo uwambaye ishati y'ubururu ndetse akaba yambaye n'agapfukamunwa tukabona uwambaye ishati y'icyatsi kibisi hafi aho hari umubyeyi waje kwikingiza bakaba bari kureba ifishi ye mbere y'uko bamuha urwo rukinga.

Ahantu hubatse neza cyane turikuhabona amazu meza cyane hakaba hari amazi azengurutswe n'urukuta ndetse akorotirijwe ibyuma, hakaba hari ubusitani bwiza cyane, ibi ngibi bituma abaturage bagira ubuzima bwiza kuko babona aho baba bishimye.

Aha ni igikorwa cyabaye cyo gukangurambaga ndetse no gusuzuma abaturage, aha ngaha rero turi kubona abaganga bagiye batandukanye ndetse n'abakorerabushake bari imbere y'umugabo wicaye ku ntebe, bakaba bari kumukingira na we yateze ntakibazo.

Abajyanama b'ubuzima bahagaze imbere y'ihema abandi bari mu ihema, hari umugabo we wicaye ku ntebe ya purasike nk' uko bigaragara bari bari guhabwa amahugurwa, kugira ngo bajye bavura abantu maze barusheho kugira ubuzima bwiza kandi ntihagire urembera mu rugo.

Aba ni abana bambaye impuzankano zirimo amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, bakaba bari kumwe n'abarimu babo ndetse n'abazungu babasuye. Bose bari gufata ifoto y'urwibutso. Ni byiza ko twita ku bana kugira ngo na bo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umwana muto wambaye agashati k'umuhondo n'agakabutura k'ubururu afite ibirahure bibiri mu ntoki amaze kudaha amazi mu kidendezi ibi si byiza kuko bishobora gutera abana uburwayi burimo nk'inzoka bityo ubuzima bwabo bukahagirira akaga.

Abana bato bakaba bahuriye ku ivomero rusange rifite amarobine menshi, hasi hatezeho ibase y'umutuku, aba bana bose bari gukaraba intoki, ni byiza koza intoki ndetse no kuzigirira isuku igihe cyose.

Abagabo babiri bose bambaye amakote bose bambaye n'amakaruvati, bari gusuhuzanya aho bari kubwirana bati uhawe ikaze, aha rero bakaba bari kwigira hamwe uburyo bateza imbere ubuvuzi ku rwego rw'isi.

Aha ni mu kigo nderabuzima harimo abajyanama b'ubuzima, hakabamo abaforomo, hakaba n'inzobere mu by'ubuvuzi yaje kubaha amahugurwa, bose bari kugenda bahabwa udupapuro maze bakiga bakamenya.

Abana bato cyane bambaye impuzankano ya kaki, bose baje kuvoma bazanye indobo z'umuhondo, bamaze kuvoma bari kwikarabira ku ntoki aho bari kogera kuri robine, ni byiza gukaraba intoki kuko birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Uyu ni umwana muto cyane uri guseka ari gukaraba intoki, ari gukarabira imbere ya kandagira ukarabe ifite indobo y'icyatsi kibisi, ndetse n'ibase iri kugwamo amazi ni icyatsi kibisi, inyuma ye hari urukuta rw'ubakishijwe amatafari ahiye.

Umwana wambaye agashati k'icyatsi kibisi, agakabutura k'umukara, akaba ari imbere y'ivomero rusange rifite ibara ry'ubururu. Hari indobo y'ubururu amaze kuvomeramo, akaba ari gukaraba intoki. Gukaraba intoki ni byiza kuko bituma twirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, imbere yabo bose hari uducupa tw'amazi. Inyubako ni nziza cyane bari mu mahugurwa, aho bari kwigira hamwe basobanuzanya kandi basobanurirana ibijyanye no gusigasira no kurinda ubuzima.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari mu mahugurwa, aya mahugurwa agamije kurebera hamwe uko bateza imbere ubuvuzi ndetse n'ubuzima bwiza muri rusange bose imbere yabo hateretse udutansi bari bari kunyweramo icyayi.

Umumama wambaye agapira ka move karirimo uturongo tw'umweru, yambaye ingofero y'ubururu, akaba akenyeye ibitenge by'icyatsi kibisi, ari kuvoma amazi ku ivomero rusange ryabugenewe mwijerekani y'umuhondo, inyuma y'iwe hakaba hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga maze bakagira ubuzima bwiza.

Iki ni ikirango cy'umuryango wunze ubumwe wita ku buzima, turi kubona umubumbe w'isi ucigatiwe n'ibiganza bibiri, kimwe kiri mu ibara ry'ubururu, ikindi kiri mu ibara ry'icyatsi bikagaragaza ko aha ngaha isi yose yunze ubumwe mu guhangana n'indwara.

Abana bateraniye ku ivomero rusange. Bose barashaka gukaraba intoki, kandi bose barishimye. Ni byiza gutoza abana gukaraba intoki, kuko ni kimwe mu buryo budufasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso. Bamaze guhugurwa, barangije baraza bifotoreza kuri iki cyapa kiriho yuko, ubu byafunguwe ku mugaragaro, buri mwana agomba kujya afashirizwa ku gihe kandi bakamurinda.

Aba ni abantu bicaye mu ihema iri hema rifite amabara y'icyatsi kibisi umuhondo ndetse n'ubururu hari umugabo uhagaze imbere yabo uri kubaha imbwirwaruhame afite indangururamajwi mu ntoki hari n'abandi ku ruhande bitwikiriye imitaka aho bari ni muri jaride nziza.

Aha turi kubona umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru afite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hari abandi bantu bamukurikiye ari gutanga inama ku bijyanye n'ubuvuzi ndetse n'ubuzima, aho bagaragaza y'uko bagomba guteza imbere ubuzima bw'umwana.

Ibiganza biteze amazi ku cyuma gisukura amazi, aho bigaragara ko ari gukaraba intoki mu rwego rwo kwirinda umwanda. Ni byiza kuzirikana gukaraba intoki mu gihe cyose zahuye n'umwanda.

Inyubako nziza cyane irimo umugabo wambaye agapira ka oranje ndetse n'umwana muto cyane wambaye agapira ka oranje, hasi hakaba hateretse telefone, inyuma yabo hari abantu, nk'uko bigaragara uyu ni umunsi mpuzamahanga wo kwita ku bana no gushyira inshingano mu bikorwa, cyane cyane ku babyeyi.

Abamama bari kumwe n'abana babo, umumama umwe yashyize umwana mu ibasi, akaba ari kumwoza, ari kumwogereza ku ivomero rusange rifite ibara ry'ubururu, amazi ni ubuzima, niyo mpamvu yegerejwe abaturage kugira ngo abafashe kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abana bato cyane bicaye hasi hakaba hari abantu bari kubitaho, bari kubanywesha igikoma kiri mu bikombe, harimo n'umupolisi wambaye impuzankano ya Polisi y'Igihugu ndetse n'abaganga bambaye imyenda yabugenewe.

Umuma ndetse n'umupapa baje kuvoma ku ivomero rusange rifite amarobine abiri, bakaba bose bari kuvoma, uri kubavomera yambaye ijile y'umuhondo, inyuma yabo hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbeza.

Aba ni ababyeyi ndetse n'abana baricaye bose barakurikiye bari gusobanurirwa ibijyanye n'uko bakora neza maze bakarushaho kugira ubuzima bwiza. Kwirinda indwara ni kimwe mu gifasha abatuye igihugu kugira ubukungu.

Umwana muto cyane w'umukobwa, ari gukaraba intoki n'amazi meza cyane n'isabune kuri kandagira ukarabe iriho akabase ka oranje, inyuma ye hari igikuta cy'amatafari ahiye, ni byiza ko abana bagira isuku bityo bigatuma birinda umwanda.

Aba ni abantu bicaye ahantu hamwe mu kigo nderabuzima, bakaba baje kwivuza. Hirya no hino mu gihugu bahubatse ibigo nderabuzima kugira ngo buri muturage avurirwe ku gihe, bityo bagabanye abantu bashobora kurembera mu rugo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Harimo umuganga ndetse n'umumama waje kwivuza. Hariho ameza agiye ateretseho za mudasobwa. Nk'uko bigaragara rero izi ni zimwe mu ngamba leta yafashe kugira ngo ubuvuzi bugere hose.

Aba ni abantu bari mu ivuriro, ni abaganga bamaze guhabwa amahugurwa, bose barishimye, bose bateye vi, aho bavuga y'uko bagiye gukora akazi neza kandi bakakanogereza ku gihe.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri bafite ibikombe mu ntoki, bakaba bari gusuka amazi mu tugega duteretse ku meza aho bari kuyanywa, amazi ni ubuzima, niyo mpamvu dukwiye kuyabungabunga, tukayasigasira kugira ngo tuyakoreshe ibyo yagenewe.

Umwana w'umukobwa wambaye utwenda two mu bi bitenge bitukura harimo n'utubara tw'umuhondo, udusatsi twe tuboshye. Ari gukaraba intoki amazi agwa mu ibasi. Uyu mwana yatojwe isuku arayitora, maze nawe bimugirira umumaro.

Aba ni abana babiri bakaba bari kuvoma ku ivomero rusange bakaba bazanye indobo z'umweru, aba bana bambaye udupira tw'amaboko magufi, inyuma yabo hakaba hari ibiti byiza cyane bigaragara ko abari kuvoma aho baba bari mu mahumbezi.

Aha ni ahabereye ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima, hari ihema, iri hema rero abantu bari kwinjiramo maze bakabafasha bakabaganiriza, bakumva ufite ikibazo bakagufasha bakakuvura, hari urujya n'uruza.

Umupapa uri gukorera umwana ijerekani. Ijerekani yanditseho amagambo UNICEF, bigaragara y'uko aba bana bari kubitaho kuko bari mu bibazo bikomeye.

Aba ni abamama babiri. Umwe ni umukorerabushake wambaye ijire irimo amabara y'umuhondo ndetse n'ishati y'igitenge, akaba afite akuma gapima umuriro, umumama umuhagaze imbere ateruye umwana.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe harimo abambaye amabaji mu ijosi ndetse hakaba hagaragara idarapo ry'igihugu, aha hakaba hari n'ihema abantu barimo nk'uko bigaragara ni bantu baje gutanga ubujyanama ku bijyanye n'ubuzima.

Umwana wambaye agashati k'umuhondo harimo akabara k'umukara akaba ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe ni kandagira ukarabe y'indobo nini hariho akabose gatoya akaba ari gukaraba intoki, ni byiza koga intoki kuko birinda indwara ziterwa n'umwanda kandi bigatuma abana bagira ubuzima bwiza.

Abagabo ndetse n'umukobwa, hakaba hari amakarito agiye arimo ibintu bigiye bitandukanye. Hari uyu mugabo yambaye ijire y'umukara, iriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, bigaragara y'uko ari abantu bashinzwe kwita ku buzima ku Isi hose.

Aba ni ababyeyi baje kuvoma amazi meza cyane ku ivomero rusange ryubatse neza, bose bakaba bashaka kuvoma bateze indobo isa umutuku ndetse n'iy'ubururu, ufite iy'ubururu bagiye kumukorera.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko habaye igikorwa cy'ubukangurambaga ku bijyanye n'indwara zigiye zitandukanye, hari ihema, hakaba imodoka itwarara abarwayi, bose bari guhabwa amahugurwa ndetse bamwe banavurwa.

Aha ni kwa muganga, umuganga ari kuvura umwana w'umukobwa amusekera, nk'uko bigaragara bose barishimye. Ni byiza ko uvura umuntu umwitayeho kandi umwishimiye.

Umwana wambaye agashati k'icyatsi kibisi akaba ari gukaraba intoki, ari gukarabira ku ivomo rusange rifite ibara ry'ubururu, hakaba hateretse indobo ebyiri nazo z'ubururu, inyuma ye hari ibiti byiza cyane.

Umubyeyi uteruye akana kambaye umupira wa oranje, uyu mubyeyi yambaye umupira w'umweru ndetse akenyeye n'ibitenge, hakaba hari umusore wambaye amarinete, ndetse na we yambaye agapira k'umuhondo mu mugongo, harimo amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Abantu benshi cyane baje kwirebera ivomero ryiza cyane ryuzuye hano, hari umwana wambaye agapira k'amaboko magufi k'umutuku, akaba ari kuvoma, ateretse amajerekani atatu, hari umumama uri inyuma uri gukurura icyuma kugira ngo amazi aze.

Inyubako yo kwa muganga irimo abaganga bambaye impuzankano bose barikwije ndetse bambaye n'udupfukamunwa, imbere yabo hari ikintu kigaragara nk'aho ari umurambo bakaba bari gukora isuzuma kugira ngo barebe uko byagenze.

Aba ni abantu bahagaze imbere y'ivuriro harimo abaganga ndetse n'abaforomo bamaze guhabwa amahugurwa, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, ivuriro riri inyuma yabo hariho abantu bafatanye ukuboko bagira bati gira ubuzima.

Aba ni abaganga bamaze guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuvuzi bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso barishimye kuko ibyo babwiwe bigiye kugirira akamaro sosiyete nyarwanda.

Aka ni agashushanyo kagaragaza imibereho y'abantu, ndetse n'imikoranire yabo na Leta. Ni byiza rero ko twese duhaguruka, tugafata ingamba zidufasha kwirinda indwara kugira ngo ubuzima bwacu burusheho gukomeza kugenda neza nk'uko tubyifuza.

Umwana muto cyane yambaye agashati ndetse n'agakabutura, akaba afite agakombe gafite imikondo ibiri. Ari kuvoma amazi mu kigega kugira ngo ayanywe. Iki kigega gisa umukara ndetse cyubatsweho n'isima. Hakurya hari urukuta rw'amatafari.

Umusore bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe. yambaye imyenda yacikaguritse, ari gusuhuzanya n'umusore wambaye ishati yo mu gitenge ndetse n'ipantaro y'umukara, biragaragara yuko ari gushaka kumufasha kumugeza aho bamuvura.

Iyi ni imodoka yifashishwa mu kugemurira ibyo kurya abaturage bagiye batandukanye bari ahantu ibyo kurya bitabageraho cyane cyane nk'impunzi, iyi modoka rero ikaba igaragaza yuko ibi ngibi ibijyanye i Bugesera.

Umugabo bigaragara ko yamanjiriwe. Yambaye ingofero, ahetse n'igikapu, mbese yambaye imyenda myinshi. Nk'uko bigaragara arananiwe kandi afite ibibazo bitandukanye, ntari kubasha gutekereza neza, ubwonko bwe ntiburi gukora.

Ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hari umumama bigaragara neza ko afite ikibazo, bakaba bari kumugira inama zigiye zitandukanye kandi akazifatira ku gihe.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Turi kubona umuntu uri kuyifotoreza imbere. Akaba ari inzobere mu bijyanye n'ubujyanama ku bantu bafite ibibazo by'ihungabana ndetse n'ibindi bibazo byo mu mutwe.

Aha ni ahantu habereye igikorwa cy'ubukangurambaga, aho bari kuganiriza abantu mu matsinda kugira ngo bumve imikorere y'ubwonko bwabo ndetse n'imitekerereze yabo, aho hagize ugira ikibazo bamujyana mu kimodoka gihari bakamuvura.

Umumama wambaye ishati y'icyatsi kibisi ahagaze imbere y'abantu. Ndetse yambaye n'amarinete. Imbere ye hakaba hari indangururamajwi bigaragara ko ari gutanga imbwirwaruhame, aho ari kuyibwirira abantu bamuri imbere kandi bamuteze amatwi.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe. Bakaba baje gukingiza abana babo, ni byiza gukurikirana umwana wawe kuko bituma ubwonko bwe bugira imikorere myiza maze agakura ari intyoza.

Abakobwa babiri bombi bari kuganira umwe yitangiriye itama, bigaragara neza y'uko afite ikibazo, ni byiza gutanga ubujyanama ku bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye kandi ukabubahera ku gihe.

Aba ni bantu bateraniye mu nzu iberamo inama bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, bamaze gusobanurirwa ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, inyuma yabo hakaba hari icyapa kiriho amagambo y'impine y'ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima RBC.

Iri ni huriro ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ndetse hakaba hari abantu bicaye imbere. Harimo umugabo wambaye agapfukamunwa, ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru irimo umuturongo tw'umukara, akaba yicaranye n'umumama wambaye ishati y'ubururu, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ari gutambutsa ikiganiro.

Umusore wicaye hasi, bigaragara ko afite ikibazo mu mutwe we; yegamiye igikuta gishaje, imbere ye hakaba hari ibishashi ndetse n'ibikarito yicariye. Imyenda yambaye ntaheruka kuyifura; uyu musore akeneye ubujyanama kugira ngo umutwe we wongere ukore neza.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo, ari guseka cyane nk'uko bigaragara ubwonko bwe bukora neza kandi yabonye umusaruro kuko arishimye bidasanzwe nk'umuntu wahembwe.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, nk'uko bigaragara bari bari mu mahugurwa aho bahugurwaga ibijyanye n'imitekerereze ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe. Muri rusange ni byiza ko abantu bahura bagahugurana.

Aha bara bagira bati "Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwizihiza ubuzima bwo mu mutwe bibiri na makumyabiri na gatatu, dusigasire ubwonko bw'umuntu ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange kuko n'abafite ibibazo ari abantu."

Aha baragaragaza uko ushobora gusukura ubwonko bwawe, aho ushobora kujya ku ivuriro bakakugira inama, maze mu gihe ufite ibibazo bigiye bitandukanye nawe ukabasha kwisanga mu bandi.

Inyubako nziza cyane, ikaba irimo abantu bari kwifotoza, bambaye imipira y'ubururu iriho uturango bose mu bituza ndetse bahagaze mu nyubako nziza, bigaragara ko bamaze guhugurwa ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko kugira ngo bajye babasha kuganiriza abahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba kuganiriza umuntu, ni byiza ko umuntu ahabwa ubujyanama bw'ubuzima kugira ngo hasuzumwe imikorere y'ubwonko bwe kandi agirwe inama mu gihe hari ibitagenda neza.

Umumama ndetse n'umupapa bafite akana bari kugenda bafashe ku rutugu kambaye imyenda yacikaguritse, nk'uko bigaragara ubwonko bwako bwari bwarayobye, none bari kumufasha kugira ngo bamugeze kwa muganga.

Umugabo bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe amenyo ye yose yarakutse, afite ibitatsi byinshi cyane yambaye agashati kameze nk'ak'abana biga muri pirimeri arenzaho umukenyero, iyo ubwonko budakora neza bugakoresha ibidakwiye.

Abana bakiri bato higanjemo abambaye impuzankano y'ishuri bose bari guseka, ni byiza ko abana bagira iminsi igihumbi myiza kuko bituma bakura bafite mu bwonko hatekereza kandi bakamenya ubwenge.

Uyu ni umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe. Dushatse twavuga ko ari umusazi. Yicaye mu gipine hagati, ubwonko bwe ntibutekereza neza. Abantu nk'aba baba bakwiye kwitabwaho bakavurwa.

Aya ni amagambo agaragaza neza cyane yuko bari gufasha abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye byo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwoko bwabo ikaba igenda gake, ni hantu rero hameze neza kandi ni byiza ko twakwita ku bantu bafite ibibazo nk'ibyo

Umudamu wambaye ikanzu itukura yambaye agakoti keza k'umukara, afite imisatsi myiza cyane yambaye n'ibaji mu ijosi nk'uko bigaragara ni umwe mu batanga amahugurwa ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe.

Uyu ni umuntu wishimye uhagaze mu iduka ryubucuruzi, ni byiza ko buri muntu agira icyo akora, uyu mukobwa rero yambaye jile y'umuhondo, akaba acuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Umugabo uri imbere y'ahantu hari ururabo rusa neza cyane, akaba yunamye ndetse hari n'undi muntu wambaye ijire y'abakorerabushake, nkuko bigaragara uyu mugabo afite ibibazo bigiye bitandukanye, akaba akeneye ubufasha.

Uyu ni umumama wambaye imyenda yo mu bitenge myiza akaba afite n'ishakoshi mu ntoki afite indangururamajwi aho agiye kuyiha umukobwa umuri imbere wambaye agapira gatukura ndetse n'agapantaro k'umukara ngo na we atange igitekerezo ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, hicayemo abantu bagiye batandukanye, buri muntu yicaye mu ntebe nziza cyane irimo imisego kandi imbere ya buri muntu hari ameza, imbere yabo hateretse amatelefoni ndetse n'amakaye, hakaba hari umuntu uri kubasobanurira ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umusore bigaragara ko yahuye n'ikibazo cy'ihungabana, akenyeye ibitenge, yambaye agapira k'ubururu ndetse ku maboko hamanukaho uturongo tw'umweru. Yicaye mu nzu yasenyutse, akaba ayegamiye. Uyu musore rero akaba afite ibibazo bigiye bitandukanye ubwonko bwe budakora neza.

Abana bato cyane bigaragara ko bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, bambaye imyambaro ishaje bakaba bafite utujerekani bagiye kuvoma, iyo umuryango ufite ibibazo usanga ubwonko bw'abana baturuka muri iyo miryango budakora neza.

Abamama bateraniye ahantu hamwe, ndetse harimo umumama umwe uteraruye mwana. Akaba ari kumuha ibere. Konsa umwana neza mu minsi igihumbi ye, ni byiza cyane kuko bituma ubwonko bwe bukora neza bityo imitekerereze ye ikaba yimbitse.

Uyu ni umugabo wambaye ibyenda byacikaguritse. Akaba afite ibyanwa byinshi ndetse n'ibisatsi byinshi, ahagaze mu muhanda rwagati yambaye ibyenda byacitse nk'uko bigaragara uyu mugabo afite ikibazo mu mitekerereze ye ubwonko bwe ntibukora neza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Aha akaba ari ahavurirwa amenyo. Harimo inzobere mu kuvura yambaye amarinete, akaba ari kureba yitegereza neza uko amenyo aba ateye mu rwego rwo kugira ngo akazi akora akanoze.

Umwari utagira uko asa, ufite imisatsi myiza cyane y'umukara. Ari kugaragaza amenyo ye meza cyane y'umweru, aho badushishikariza twese kugirira isuku amenyo yacu, bityo tukagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umusore wambaye agapira k'umweru akaba afite udusatsi tuzingazinze, ari gushyira urudodo mu menyo kugira ngo ayagorore, ni byiza kugorora amenyo yacu kugira ngo arusheho kugira isuku maze imyanda tuyikuremo ku gihe.

Ni umukobwa ufite akantu mu ntoki kariho akadodo, aho agenda akura imyanda yagiye isigara mu menyo akoresheje uru rudodo, ni byiza ko nawe wabikora kugira ngo amenyo yawe agire isuku.

Umukobwa w'umwari bigaragara ko akuze, yicaye mu nzu mo imbere nkuko bigaragara yicaye mu ntebe ya parasitike; akaba afite ikirahure mu ntoki ari kwirebamo, ari kureba amenyo ye meza asukuye bigaragara ko ayitaho.

Umugabo uri gushyira urudodo mu menyo kugira ngo ayagorore kandi ayasukure, ni byiza ko twese twajya dukoresha uburyo bw'urudodo kugira ngo dukure imyanda yasigaye mu menyo bityo tuyarinde.

Iyi ni nyubako y'ivuriro, aha hakaba ari mu cyumba kivurirwamo uburwayi bw'amenyo, aho muganga akwinjizamo maze yifashishije ibi bikoresho byose birimo, akakuvura kandi ntagire na kimwe yangiza.

Aha ntihatangirwa ubuvuzi bw'amenyo harimo umukobwa mwiza cyane utagira ukosa afite imisatsi myiza akaba yambaye n'imyenda myiza mbese ufite isuku ari kumwe n'umuganga nawe w'umwari mwiza wambaye imyenda y'umutuku ndetse n'i badji mu ijosi akaba ariko kumwandikira imiti.

Umwana muto cyane uryamye ku gatanda bakuriraho amenyo kwa muganga, ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru, uturindantoki tw'umweru, agapfukamunwa k'umweru, akaba afite n'amarineti mu gahanga, uyu muganga ari kumuvura amenyo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iki ni icyumba kivurirwamo amenyo, harimo udutanda abarwayi bicaraho mu gihe bari kubavura, hakaba n'intebe muganga yicaraho. Hacometse ibyuma muganga yifashisha mu gihe arimo avura abarwayi b'amenyo.

Uyu ni umusore uri kwireba mu kirahure akaba afite urudodo, aho ari kugenda arukoza hagati y'amenyo akuramo imyanda igiye itandukanye yagiyemo, nawe ni byiza ko wafata urudodo maze ukajya wikuriramo imyanda.

Umwana ukiri muto afite urudodo mu menyo akaba ari kuyagorora, uyu mwana yambaye insengeri y'umweru afite imisatsi y'umukara imanuka mu maso nk'uko bigaragara rero muganga yamutegetse kujya asukura amenyo ye ndetse akanayogorora buri gitondo akaba aribyo ari gukora.

Umumama uryamye hasi mu ivuriro aho bavurira amenyo, hari umuganga wambaye impuzankano y'ubururu, uturindantoki tw'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu akaba yashyize igikoresho gikoreshwa mu gihe bakora iryinyo umuntu mu kanwa k'uyu mumama.

Umwana muto cyane uryamye mu bitaro kwa muganga aho bavurira amenyo, hari umuganga wambaye impuzankano y'ubururu, uturindantoki tw'umweru, akaba afite imiti ku bikoresho byabugenewe bivura amenyo, akaba yiteguye kuvura uyu mwana.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro, hakaba harimo umuntu uryamya hasi ku gatanda bavuriraho amenyo, hari abaganga babiri bambaye impuzankano z'umukara bakaba bambaye uturindantoki tw'umweru ndetse umwe yambumbaye agapfukamunwa k'ubururu, undi yambaye ak'umukara bari kuvura amenyo.

Abana bato cyane bafite uburoso bw'amenyo, ndetse bakaba bari bashyizeho umuti w'amenyo, bari kuyoza. Abana nabo batojwe kugira isuku y'amenyo kuko iyo amenyo yangiritse ntasanwa niyo mpamvu bayitaho.

Aha ni ahavurirwa uburwayi bw'amenyo. Hari umumama ufite umusatsi mwiza cyane w'umukara, uryamye ku gatanda bavuriraho amenyo. Hakabamo abaganga babiri, uwambaye itaburiya y'umweru, uturindantoki tw'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu. Hakaba harimo n'uwambaye impuzankano y'ubururu.

Aha ni mu nyubako yo kwa muganga by'umwihariko mu cyumba bavuriramo abafite ibibazo bigiye bitandukanye by'amenyo turi kubona umusore uryamye ku gatanda akaba ategereje muganga ngo aze amusuzume maze amuvure.

Umwana muto cyane uryamye ku gatanda bavuriraho amenyo kwa muganga, harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, uturindantoki tw'umweru, afite ibikoresho byifashishwa mu gihe cyo kuvura amenyo arimo aravura.

Iki ni igishushanyo kigaragaza amenyo y'umuntu uko ari mirongo itatu n'abiri, gifasha abaganga kwihugura bakamenya buri ryinyo aho riherereye, ku buryo ubagannye aje kwivuza babasha kumenya iryinyo arwaye bitabagoye.

Umukecuru wicaye mu kagare k'abafite ubumuga akaba ari kumwe n'undi muganga wambaye impuzankano y'abaganga y'ubururu. Ari kumusuzuma ko nta muvuduko w'amaraso afite, bose barishimye kandi bari guseka.

Umusaza wicaye hasi, akaba ari gukina igisoro, uyu musaza ari guseka kandi arishimye. Iyo umuntu ashaje, agasaza neza nta bibazo afite, aba yishimye cyane kuko nta kimugora.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare, bigaragara ashaje. Yicaye mu ntebe ya pulasitike. Hakaba hari umwari ukiri muto, wambaye impuzankano y'ababaforomo uri kumwitaho, aho agenda amufungira ibifungo.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, hakaba harimo umusaza ndetse n'umukecuru, hakaba hari abana babo batatu, barishimye cyane. Ni byiza gusazira mu muryango, cyane cyane iyo nta bibazo by'ubukene mufite kuko mukomeza kubaho mwishimye, maze mukagira ubuzima bwiza.

Uyu ni umusaza wambaye agapira ka oranje akaba ari kumwe n'umusore, bombi bari gukora siporo bari gukurura umugozi, umusaza ari gushyiramo imbaraga kugira ngo imitsi ye igororoke kuko yari yarahinamiranye.

Umukecuru uri muri siporo, ahagaze mu nzu iriho ibirahure. Harimo umukobwa muto cyane usa neza, ufite imisatsi myiza cyane y'umukara. Uwambaye impuzankano y'abaforomo. Ari kugenda amukoresha siporo gake gake, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye muzu ku meza, imbere y'uwo mukecuru hateretse mudasobwa, umusaza afite agacupa mu ntoki k'umuti akaba ari kwitegereza ku kapa kariho kugira ngo arebe amabwiriza agenga uwo muti.

Umusaza wambaye marinete agapira k'moboko magufi ndetse n'ipantaro, akaba ari kumwe n'umuforomokazi wambaye impuzankano y'ubururu, afite akantu ari kumushyiraho kugira ngo amusuzume arebe ko nta muvuduko w'amaraso afite.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye mu nzu, umukecuru imbere yari afite mudasobwa naho umusaza afite agacupa k'umuti mu ntoki, imbere hasi ku meza hari uturahure tubiri dutoya ndetse n'impapuro uyu musaza ari kureba ibigize uyu muti.

Umusaza ndetse n'umukecuru bombi bicaye muri salo bari kumeza bari kurya, bari gukata imbuto, imboga ndetse bafite n'ibirahure bigaragara ko bari kurya, banywa bose barishimye, ni byiza gusaza ntabazo mufite.

Aba mama bateraniye ahantu hamwe, bigaragara ko bakuze ariko kandi nanone bakaba bari kumwe n'abato, aba bato bari guha abakuze imisego nk'uko bigaragara rero, aba ba mama bakuze bahise babyishimira cyane.

Umukecuru bigaragara ko akuze ari gukata imboga, ari kuzikata yishimye kuko hari umukobwa we ukiri muto uri kumuganiriza maze bikamutera kunezerwa, abantu bashaje bikundira kuganira.

Umusaza ndetse n'umukecuru, bose bambaye imishanana, bambaye inigi mu ijosi, umusaza yambaye n'ingofero, bahagaze imbere. Bishimiye kuba batashye ubukwe bakaba bateranye n'abandi kuko nabyo biri mu bibashimisha.

Ababyeyi bari gusarura ikawa, ni ababyeyi bakuze cyane, bakaba bari mu cyayi, iki cyayi cyahinzwe kugira ngo ababa babyeyi bajye bahura maze basabane bishime dore ko kwishima kw'ababyeyi bakuze ari ibyishimo by'igihugu.

Uyu ni umusaza amaguru ye ntakora neza, afite utwuma two kwa muganga dufasha abafite ubumuga gutambuka gake gake, nawe ari gutambuka kugira ngo arebe ko ingingo ze zagororoka.

Umubyeyi wambaye ikanzu y'umuhondo ari gutunganya imiti kugira ngo ayinywe aho ari kuyitegereza, yambaye amalinete, afite imisatsi y'umukara nk'uko bigaragara arakuze.

Umusaza wambaye umupira w'umweru, ari kumwe n'umwari utagira uko asa, ukiri muto, wambaye impuzankano y'abaforomo, ufite imisatsi myiza cyane y'umukara, bari kurebana bose bagaseka, bari ahantu heza cyane.

Uyu ni uryango uteraniye hamwe, harimo abasaza, abakecuru, hakaba harimo abakiri bato, nk'uko bigaragara abashaje barishimye cyane, ni byiza ko abantu bashaje babona ababo kuko na byo biri mu bibashimisha.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye mu nzu bari guseka, umusaza afite umuti mu ntoki, umukecuru afite urupapuro bagiye kurebaho amategeko n'amabwiriza bagomba kugenderaho mu kunywa uyu muti kugira ngo ubavure.

Umukecuru ndetse n'musaza, umukecuru akaba afite umuti mu ntoki ari kuwuha umusaza ufite ikirahure mu ntoki nawe uri kunywa, bicaye mu nzu nziza cyane bose barishimye.

Umugabo ushaje, yambaye agapira k'umuhondo k'amaboko maremare ndetse n'akajire k'umukara ndetse inyuma ye, hakaba hari umuforomokazi wambaye impuzankano y'ubururu, ari kumusunika mu kagare k'abafite ubumuga.

Umukecuru bigaragara neza cyane ko akuze, akaba ari gukoreshwa siporo n'umwari ukiri muto ufite imisatsi myiza imanutse y'umukara, aho ari kumufatisha akantu kagorora imitsi maze uyu mukecuru akishima.

Umusaza wambaye ishati y'amaboko maremare akaba afite imvi mu mutwe yicaranye n'umusore w'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, akaba afite icyumviro mu ijosi, akaba ari kugenda amusomera imiti amwandikiye anamusobanurira uko azajya ayifata.

Umukecuru wambaye agapira k'umweru karimo uturongo tw'umukara, afite imvi nyinshi ndetse yambaye n'amarinete, akaba ari kumwe n'umuforomokazi wambaye impuzankano ufite n'icyumviro mu izosi, bakaba bari kuganira baseka.

Umumama wicaye mu ntebe uri guseka, ari kumwe n'umuforomokazi ukiri umwana wambaye impuzankano y'ubururu akaba afite imisatsi iboshye, bari mu nzu nziza cyane ifite amarangi y'umweru, bose bari guseka kandi barishimye.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imiti ikomoka ku bimera, tukaba turi kubonamo ibimeze nk'amasaro, tukabonamo ibimeze nk'amakara, ibisa umweru, ibisa oranje ndetse n'ibisa icyatsi kibisi, aho yose ari imiti gakondo yifashishwa mu kuvura abantu.

Umugabo bigaragara cyane yuko akuze ari kumwe n'akana kakiri gato gafite imisatsi myinshi. Bose bicaye mu ntebe, ariko uyu mugabo yicaye mu kagare k'abafite ubumuga naho uyu mwana yicaye mu ntebe z'imisego. Ni byiza cyane ko umubyeyi ahora abona umwana imbere ye kuko bimushimisha.

Umukecuru bigaragara ko akuze. Yambaye ishati y'umweru irimo uturongo, afite ibyo kurya bigizwe n'ibyatsi, akaba ari guseka cyane. Ni byiza gusaza ufite ubushobozi, kuko usaza wishimye.

Ni umukecuru ukuze cyane, uyu mukecuru akaba yateye amashyiga y'ibyondo ndetse isafuriya ze zisa umukara, ahantu ari gutekera harasa nabi cyane, hari ibihuru byahazengurutse, si byiza ko umuntu w'umukecuru yibana.

Umusaza ndetse n'umukecuru umusaza ari gusoma umukecuru umukecuru yishimye cyane ari guseka ni umukecuru wambaye ikote ry'umukara ndetse akaba ateze agatambaro k'umutuku uyu muryango urishimiranye bigaragara ko bose bashaje neza.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu, afite agakoresho gato cyane bifashisha baterura kugira ngo bagorore imitsi, inyuma ye hakaba hari umuzungu w'umuganga, wambaye impuzankano y'umweru, akaba ari kumufasha gukora siporo kugira ngo agororoke.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, nk'uko bigaragara baje mu gikorwa cyiza cyane cy'amatora, inyuma yabo hari ihema bari kwinjiramo bagatoreramo, hari uri kubasuhuza, bari gutambutsa umusaza waje ugendera ku kagare.

Uyu ni umusaza ushaje cyane wambaye agapira k'ubururu, ikabutura y'umukara. Ari kugenda afashe k'utwuma gakegake ndetse imbere ye hari umuforomokazi wambaye agashati k'umukara ndetse n'agapantaro k'umukara. Ari kugenda amufasha gutambuka gakegake kugira ngo uyu musaza abashe kugera hanze agorore n'ingingo.

Abasaza babiri bari muri siporo bari gukorera siporo ahantu heza cyane, bambaye imyenda y'umweru ndetse n'umukara bose bafite amacupa y'amazi mu ntoki, aho bari hari ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi maze bagakora siporo banezerewe.

Umusaza wicaye mu kagare k'abafite ubumuga yambaye umupira w'amaboko maremare usa umukara, yambaye amalineti, inyuma ye hari umwari ukiri muto utagira uko asa, akaba ari guseka yishimye.

Musaza wambaye umupira w'umukara n'amarinete imbere ye hari umukobwa ukiri muto wambaye umupira w'amaboko maremare w'umuhondo, hakaba imbere yabo kumeza hari ikirahure kirimo amazi ndetse uyu mukobwa afite ibinini mu ntoki agiye guha uyu musaza ari kubanza kureba amabwiriza yo kubinywa.

Aba ni abantu bari mu kiganiro ndetse bakaba bari kumwe n'inzobere zigiye zitandukanye mu bijyanye n'ubuvuzi. Bakaba bari gufatira hamwe ingamba zijyanye no kwirinda ndetse no gukumira icyorezo cy'ubushita bw'inkende.

Umubyeyi uteruye umwana we. Leta y'u Rwanda yafashe ingamba ko ababyeyi bagomba kwita ku bana kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Ababyeyi na bo barabyumva kandi babishyira mu bikorwa, cyane ko ziba ari inshingano z'ababyeyi.

Aba ni abantu bari mu bikorwa bigiye bitandukanye bifasha igihugu gutera imbere, ni ingamba zafashwe na leta ko niba uri umuganga ugomba kuvura ubikunze, niba uri umwubatsi ukubakana umurava ndetse n'umuhinzi agahingana umurava kugira ngo igihugu gitere imbere.

Zimwe mu ngamba minisiteri y'ubuzima yabafashe, ni uko igomba gushyiraho amahugurwa kugirango abaganga bihugure maze ibyo bakora bajye babikora kinyamwuga kandi bakibyibuka neza bitewe n'ayo mahugurwa bazajya baba bafashe.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'ibiribwa ibi biribwa rero leta y'u Rwanda yafashe umwanzuro wo kubishyira ku isoko no gushyiramo imbaraga kugira ngo abaturage babihinge bajye babibona kuko ari bimwe mu bituma abaturage bagira ubuzima bwiza izi ngamba zarafashwe kandi zirakurikizwa.

Agapapuro keza cyane k'ubururu kakaba kanditseho amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, agaragaza y'uko ari uburyo bwo kuzigamira umuryango. Ni byiza kuzigamira umuryango kuko leta yafashe izo ngamba kugira ngo abaturage bayo bagire ubuzima bwiza.

Aba ni abantu bari gufata ifoto y'urwibutso nk'uko bigaragara bari bari mu mahugurwa ndetse bafashe n'ingamba zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubuzima, aho bagira bati tubeho nta n'umwe usigaye inyuma.

Iki ni icyapa kiriho amabara y'ubururu, umweru, hakaba hari itara ry'umuhondo, aho bagira bati indwara ndetse n'ibimenyetso bya diyabete ushobora kumva utameze neza, ushobora kumva ukeneye kunyara bya buri kanya ndetse ushobora no kwiyumva utameze neza mu buzima.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye, nk'uko bigaragara bari bari mu ihuriro ryiga ku buzima, aho bafatiye hamwe ingamba. Ni byiza cyane rero ko twese duhura tukungurana ibitekerezo.

Iyo ni amoko y'imiti igiye itandukanye aho uyu muti bigaragara neza cyane ko ari urukingo rw'icyorezo cy'indwara ya Monkypox virus, aho bigaragara yuko ubu bwari Ubushita bw'inkende.

Iki ni icyapa kigaragaza yuko ubwonko bwa muntu buhora butekereza kure, leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo gusigasira ndetse no kurinda ubuzima bwa muntu, ni byiza ko abayobozi barebera abaturage babo mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu buvuzi.

Aba ni abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bari kungurana ibitekerezo ndetse bagafata n'ingamba mu rwego rwo gusigasira ubuzima. Imbere yabo hari abantu, hakaba harimo umumama ufite indangururamajwi uri gutambutsa ikiganiro.

Ahantu heza cyane hari inyubako iba mu Rwanda tuzi nka Convention Center. Hakaba hahagaze umukobwa wambaye agapira k'amaboko magufi, ijipo y'ubururu ndetse n'agatambaro k'ubururu. Kagaragaza ko ari umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya diyabete ku isi hose.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, basoje amahugurwa aho bafashe ingamba zigiye zitandukanye muri aya mahugurwa zo kubungabunga ndetse no gushyira mu bikorwa, ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi. Turi kubona icyapa kibari inyuma kiri mu ibari ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, hakaba hariho amagambo, yandikishijwe ibara ry'ubururu.

Uwo mukecuru ufite ikibazo ku jisho afiteho igipfuko kinini cyane ndetse yambaye igitambaro cy'umutuku, uyu mukecuru nkuko bigaragara arashaje cyane, isura ye yarihimye. Ni ngombwa ko bamuvura kugira ngo nawe abashe kureba ko yabona.

Aba ni abantu bicaye mu nzu y'inama, aho bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye byerekeranye n'ubuzima, maze bagafata n'ingamba, ni abantu biyubashye bambaye amakote y'umukara ndetse n'amakaruvati, aho bari kuganira bahana ijambo.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari kugaragaza igikorwa kizaba ku itariki mirongo itatu z'ukwacumi kandi kigatangira saa cyenda z'amanywa, aha rero bazatanga ubukangurambaga, bafate n'ingamba ku bijyanye n'ubuzima.

Aba ni abantu benshi cyane bakaba bari mu muhanda bambaye imyenda y'umweru nk'uko bigaragara bari mu mahugurwa aho bakoze igikorwa cyo gukangura imbaga bakaba bafite ibyapa byanditseho bati twirinde kanseri y'ibere tuyisibanganye.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kuganira ndetse bafatira hamwe ingamba zijyanye no kwirinda uburwayi ndetse no kubukumira, bose bateze amatwi kandi bahanze amaso uri kubasobanurira.

Iki ni igipapuro kigaragaza uko Leta y'u Rwanda yagiye ifata ingamba zo kurwanya Sida. Kakagaragaza abagabo icyegeranyo cy'uko bayirwaye, abamama, abana ndetse n'abandi bose.

Umukobwa w'umuforomokazi wambaye impuzankano y'ubururu, yambaye n'ingofero y'ubururu. Akaba yafunze igipfunsi. Avuga ngo "imbaraga ndetse n'ubushobozi turabifite, tuzatanga ibishoboka byose dufashe abarwayi".

Leta y'u Rwanda yegereje serivisi z'ubuzima, ndetse cyane cyane zo gusuzuma uburwayi bwo mu kanwa. Aha hari inzobere zasanze abaturage aho batuye, maze batera amahema abaturage bajya ku murongo ugezweho bakamusuzuma.

Iki ni ikigereranyo kigaragaza uko ubuzima buhagaze ndetse n'uko abantu bitabwaho mu gihe cyo kuvurwa, iki cyeyegeranyo cyashyizwe hanze ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC.

Leta y'u Rwanda yafashe ingamba mu kwirinda covid cumi n'icyenda ndetse n'ibindi byorezo byose. Aha ngaha rero hari mu gihe cya covid cumi n'icyenda, aho batangaga inkingo ku baturarwanda bose. Uyu ni umusore waje guhabwa urukingo.

Aba ni bantu bicaye ahantu hamwe, bakaba bari guhabwa amahugurwa, hari umugabo umwe n'abadamu babiri bicaye imbere, bakaba aribo bari gutanga ikiganiro, abadamu bambaye amabaji mu ijosi, aho bose bakurikiye.

Aba ni ababyeyi baje kuki kigo nderabuzima nk'uko tubizi Leta y'u Rwanda yafashe ingamba z'uko buri mwana agomba guhabwa inkingo uko bikwiye, aba babyeyi rero baje gukingiza abana babo.

Iri ni ihuriro ryabaye bakaba bari gufata imyanzuro ndetse n'ingamba ku bijyanye n'ubuzima, turikubona umukobwa ufite indangururamajwi mu ntoki akaba yambaye agashati k'icyatsi kibisi ahagaze imbere yabo, imbere y'aho ahagaze hakaba hari insakazamajwi bakaba bari gufata ingamba z'ubuzima bazifatira hamwe.

Aka ni akapa k'ubururu kariho amagambo yandikishijwe umweru ndetse n'umuhondo, aho bagira bati twirinde indwara y'ubushita bw'inkende, ni byiza rero ko izi ngamba zishyirwa mu bikorwa mu rwego rwo kugira ngo abantu birinde buno burwayi.

Inyubako nziza cyane ivuriro, aha rero mu rwego rw'ubuvuzi bafashe imyanzuro y'uko rimwe mu kwezi abaganga bazajya bihugura, kugira ngo barusheho kumenya neza ko ibyo bakora babizi kandi bakibyibuka.

aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari kwifotoza ndetse bari mu gikorwa cyiza cyane cy'amahugurwa aho bari guhugurana ndetse bagafata n'ingamba ku bijyanye n'ubuzima ni byiza ko abayobozi baterana maze bagakora amahugurwa.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubakishijwe amabuye, aha turi kubonamo abantu bari kuyitambukamo imbere, ikaba ifite ikibuga kinini cyane kirimo ubusitani bwiza, hakurya yaryo turi kuhabona umusozi ndetse ikirere kiri gusa ubururu.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti, hakaba haparitse moto yicayeho umumotari wambaye kasike, nk'uko bigaragara hejuru y'iyo farumasi hariho izina ryayo ndetse n'ibigo by'ubwishingizi ikorana na byo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hejuru harasa umukara ndetse hakaba harimo na parafu y'umweru, harimo amarido y'umuhondo, hakaba harimo n'ibitanda byiza cyane baryamishaho abarwayi.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifitemo ibiti byinshi cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, hari abantu baje kuhivuriza ndetse hari n'icyapa kigaragaza serivise batanga n'amasaha bazitaho.

Inyubako y'ivuriro. Iyi nyubako irimo ibikoresho byabugenewe kandi byabuhariwe mu kuvura. Hakaba harimo icyuma kiri hejuru aho uryamisha umurwayi ku gitanda kiri hasi, ugahita ubona uburwayi bwose afite, urebeye muri iyo camera.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro; hubatsemo inzu nyinshi cyane zitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, hakaba hari icyapa giteretse mu busitani kigaragaza serivisi zitangirwaho ndetse n'amasaha batangiriraho gukora. Si ibyo gusa kuko harimo n'igiti kiza cyane kirekire gitanga umuyaga.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo agatanda kariho ishuka ifasheho'icyatsi kibisi tukabona inkuta zisa n'umweru ndetse hejuru hariho ibyuma bigenda bisuzuma abarwayi. Aha ngaha ni mu isuzumiro.

Iyi ni inyubako y'ivuriro . Ni nziza cyane ikaba yubatswe mu buryo bugezweho. Igeretse inshuro eshatu cyangwa enye . Imbere yayo hari icyapa kigaragaza izina ry'iryo vuriro rikoreramo ndetse hakaba hakorutirijwe ibyuma. Iyi nyubako ni nziza.

Inyubako nziza cyane y' ivuriro, ndetse aha yubatswe mu buryo bugiye butandukanye. Hari iziri hepfo n'iz'i ruguru, iri hepfo yubatswe mu buryo buzengurutse. Iri ruguru yo yubatswe mu buryo bwa mpande enye. Izi nyubako zose zivurirwamo.

Umukobwa uryamye hasi, aryamye ku gitanda aha ni mu nyubako y'ivuriro, hakaba hari abantu babiri umumama ndetse n'umupapa bari kumwitaho, inkuta z'irivuriro zikaba zifite irange ry'umweru ndetse n'abantu bamuri imbere harimo uwambaye ishati y'iroze n'undi wambaye ikoze ryerurutse.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye, tukaba turi kubona icyapa cy'icyatsi kibisi kigaragaza amagambo y'umweru agira ati tugire intego, iyi foromasi yita ku barwayi.

Inyubako y'ivuriro, turi kubonamo intebe, utubati ndetse n'ameza ariho mudasobwa, tukabona icyapa ku rukuta kigaragaza abantu batatu, umumama, umwana ndetse n'umupapa.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, mo mbere turi kubonamo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, isaha y'umukara ku kuboko, ku mufuka w'iyo taburiya hariho ikaramu y'ubururu, muri iyo nyubako hakaba harimo igitanda baryamishaho abarwayi mu gihe bari kubavura.

Inyubako nziza cyane yivuriro. Iyi nzu ifite amarangi meza cyane y'umweru, ikaba isakaje amabati y'ubururu kandi biragaragara ko ari inzu ababyeyi babyariramo, hirya yaho hateye ibiti byiza cyane bizana umuyaga.

Inyubako y'ivuriro ikabasiza amarangi meza y'umuhondo isakaje amabati y'ubururu ,harimo umuganga wambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'ipantaro yumukara ,akayira kajyamo gasashemo amapave ndetse hateyemo n'ibyatsi aha rero hakaba ari mw' isuzumiro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ikaba irimo udutebe abantu bashobora kwicaraho mu gihe baje batarahabwa serivisi, hasi hari amakaro hakaba haciyemo uturongo twa orange aha rero hakaba hateretse ibikoresho bimwe na bimwe iyi nyubako ni nziza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro irimo udutako, udupuririzo turimo umwuka, harimo utw'umweru ndetse n'utw'ubururu. Ku rukuta rw'inyubako hariho igishushanyo cy'ijisho bigaragara ko bahavurira uburwayi bw'amaso.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo ibyatsi bigiye bitandukanye byiza cyane, hakaba harimo n'igiti gitanga umuyaga. Iyi nyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse hakaba hari n'indi yubatswe mu buryo bugiye buzengurutse, ikirere kikaba gisa ubururu.

Aha ni mu kigo nderabuzima, bari mu nyubako y'ivuriro mo imbere, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari umusore wambaye ikote ry'umukara, ari kugenda baganiriza abahugura ndetse hari n'abandi bicaye ku ntebe, imbere yabo hari uducupa tw'amazi.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro ikaba irimo abaganga bambaye impuzankano z'umweru, udupfukamunwa tw'ubururu, udupfukantoki tw'umweru ndetse bakaba bambaye n'ingofero bakaba bari ahantu hari ibyuma, nk'uko bigaragara aha niho bakorera ubushakashatsi.

Leta y'u Rwanda yegereje serivisi z'ubuganga ndetse n'ubuvuzi abaturage. Aha ngaha rero hari umugabo uri guhabwa urukingo, kugira ngo atazigera ahura n'indwara. Ari kuruhabwa n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse wambaye n'uturindantoki.

Iyi ni nyubako y'ivuriro ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite inzugi ziriho ibirahure, hejuru hakaba hari amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, aho bagaragaza y'uko bahatangira ubujyanama bugiye butandukanye ku hantu bahuye n'ihohoterwa.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, turi kubonamo ibitanda muganga yifashisha mu gihe ari kuvura abarwayi, tukabona inkuta zisa umweru, amadirishya ni umukara hakaba hariho ibirahure by'umweru. Purafo ifite ibara rya kake, hakaba harimo amatara ari kwaka.

Iyi ni nyubako y'ivuriro hakaba harimo abaganga bambaye impuzankano y'umweru, aho bose bagiye bafite amatsinda y'abantu batatu batatu cyangwa bane, bigaragara ko bari kwihugura.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo ibitanda bigiye bitandukanye, ndetse n'amarido maremare, ibi bitanda bisashemo amamatera ndetse n'amashuka ,hasi hari isima hejuru hakaba prafo ndetse n'amatara, ku nkuta hakaba hasizeho amarangi meza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba yubatse iburyo n'ibumoso, iyi nyubako yubatse neza cyane mu buryo bugezweho ndetse hakaba harimo n'ubusitani burimo indabyo nziza zifite ibara ry'umuhondo, ni byiza kuhivuriza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo umuganga wambaye impuzankano y'ubururu akaba afite mudasobwa imbere ye afite ibintu ari kugenda yandika maze akareba ku yindi mudasobwa iri ku ruhande kugira ngo arebe niba biri guhura ibyo ari kubona.

Abaforomokazi bateraniye ahantu hamwe bambaye impuzankano y'ubururu udupfukamunwa tw'ubururu bose bafite imisatsi myiza cyane y'ubururu umwe muri bo yambaye baji mu ijosi bakaba bahagaze ahantu imbere y'inyubako y'ivuriro rigaragara ko biyemeje kurikoreramo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako irimo ibitanda byiza bisasheho amashuka y'umweru, inkuta zirasa icyatsi kibisi ndetse n'umweru, hasi harasa ubururu. Ni byiza kwivuriza ahantu heza kuko bituma uhabwa serivisi nziza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo igitanda cyiza cyane kandi kinini kiriho amapine, iki gitanda bakiryamishaho abantu bakabasuzuma, kiriho umusego ndetse n'imiti y'ibanze umurwayi ashobora guhabwa.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga irimo ibikoresho byinshi cyane kandi bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo ibitanda, udutebe ndetse n'imashini bakoresha basuzuma, hakaba hari n'utudobo bajugunyamo imyanda.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba irimo ibiti bigiye bitandukanye, hari umuntu utwaye igare uri kunyura mu gahanda karimo ndetse icyapa gihari cyerekana ko ibi ngibi ari ibitaro bya Kabgayi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo amazu agiye atandukanye, harimo ubusitani bwiza cyane bunogeye ijisho, harimo imikindo, hakurya y'iryo vuriro hari amashyamba meza azana umwuka mwiza ndetse akazana n'amahumbezi muri iri vuriro.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo serivise zitanga ubuzima, muri iyi nyubako bikaba bigaragara yuko ari ivuriro, iri vuriro rigeretse inshuro eshatu, rikaba ryubakishije amatafari ahiye kandi kuri iri vuriro hariho icyapa kigaragaza izina ryaryo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba irimo agatebe k'umweru, agatanda k'ubururu n'umweru ndetse harimo n'amamashini bifashisha mu gihe bari kuvura, urukuta rurasa umweruru hasi hakaba hari amakaro, iri ni ivuriro ryiza cyane.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro; ikaba irimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari imashini ziteretse hasi, hakaba n'izindi ziri hejuru. Hari intebe ziri hasi ndetse na mudasobwa, muganga yicaraho iyo ari gusuzuma abarwayi.

Inyubako y'ivuriro, iri vuriro ryubatswe mu buryo bugezweho, nk'uko bigaragara igeretse kabiri, isize amarangi y'umuhondo, ikaba ifite ibirahure byiza by'umukara, hakaba hari icyapa kigaragaza y'uko iyi ari inzu y'ababyeyi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, harimo inkuta zisize irange ry'umweru, hakaba harimo utwambi tugenda turanga ibyerekezo aho umuntu ashobora kuba akeneye kujya mu cyumba kimwe n'undi akeneye kujya mu kindi, bakifashisha tuno twambi kugira ngo bamenye aho berekeza.

Inyubako y'ivuriro, iyi nyubako ifite inkuta ndende zisize amarangi y'umweru hakaba harimo ikigega cy'umukara, harimo indabyo nziza cyane ndetse na pasiparumu, hari umwana w'umukobwa wicaye mu kagare k'abafite ubumuga wambaye agakanzu k'ubururu.

Umubyeyi wicaye mu mbuga nziza akaba ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'icyumvizo mu ijosi. Akaba bicaye ahantu heza hari insina ndetse n'indabyo, bigaragara ko uyu muganga yaje kuvura uyu mubyeyi.

Aha ni mu kigo nderabuzima hakaba hari abantu baje kwivuza nk'uko tubibona bari ku murongo, hakaba hari ufite ubumuga uri mu kagare akaba yaciye we ku rundi ruhande akaba ariwe babanje gufasha.

Iyi ni inyubako y'ivuriro iyi nyubako rero ikaba iriho amabati y'umutuku igeretse kabiri nk'uko bigaragara rero ibi ni ibitaro bya Shyira ahangaha bikaba ari ibitaro by'Akarere bakaba bavura abaturage bafite uburwayi bugiye butandukanye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, isakaje amabati y'umukara, ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, harimo ubusitani bugizwe n'indabyo ndetse na pasiparumu, mu tuyira hari kaburimbo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ikaba irimo ibitanda, hariho inkuta hejuru kuri parafo ikaba isa umweru, aha hose hameze neza hasi hari amakaro. Ni byiza ko ivuriro riba ryubatswe neza kugira ngo abarwayi bavurirwe heza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba irimo intebe nziza cyane z'umukara ndetse n'ameza, hakaba harimo imashini zifashishwa mu gupima abarwayi, ndetse hari n'udutanda batwaraho imiti mu gihe bagiye kuvura abarwayi, inkuta zisize irangi ry'umweru, hasi hakaba hasa umuhondo.

Iyi nyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kuyibona yubakishije amatafari ahiye, ikaba isize irangi ry'umweru, isakaje amabati atukura, hari umugabo waje kuyivurizamo, akaba yaje kuba yiyumvira akayaga kari munsi y'igiti cyiza cyane kinini yicaye munsi, uyu mugabo rero akaba yanezerewe.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Aha hakaba ari ahatangirwa imiti, harimo intebe ya pulasitiki abantu bashobora kuza bakicararaho, maze bagategereza ubaha ubufasha bwo guhabwa imiti.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse hakaba n'indi hepfo yayo yubakishije amabuye, ikaba yubatswe mu buryo buzengurutse nk'uko bigaragara harimo ubusitani bwiza cyane bugizwe n'indabo ndetse na pasiparumu.

Iyi ni inyubako ikaba irimo farumasi, iyi farumasi ikaba icururizwamo imiti igiye itandukanye, turi kubona moto ihaparitse yicayemo umumotari wambaye kasike ndetse n'undi muntu uhahagaze wambaye agapira k'umweru.

Abaforomo batatu bambaye impuzankano y'ubururu, babiri bambaye, bose bakaba bambaye udutambaro tw'umweru bahagaze mu muhanda mwiza cyane urimo ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane kandi y'ivuriro. Iyi nyubako mo imbere harimo ibitanda byiza, bifite amapine, hakaba hariho matela zishasheho amashuka y'ubururu. Inkuta z'iyi nyubako zisize irange ry'umweru ndetse na parafo ni umweru.

Abo ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari mu nama igamije gushyira hamwe ndetse no gufashanya kugira ngo ubuvuzi butere imbere. Bari mu nyubako y'ivuriro ndetse nk'uko bigaragara bose bafite amakayi abandi mudasobwa.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, bigaragara yuko ariho hakorerwa inama ubwo baba bari mu mahugurwa hari intebe nziza cyane z'umukara zizingwa imbere ya buri ntebe hakaba hari aho bandikira, hakaba hariho indangururamajwi ndetse imbere hakaba hari n'aho uri gutanga ikiganiro aba yicaye.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Ikaba irimo igitanda nk'uko bigaragara gifite ibara ry'ubururu, gisasheho ishuka y'umweru. Inkuta hasa umweru. Harimo mudasobwa bifashisha iyo basuzuma, ndetse banavura abarwayi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, hakaba harimo abaganga bambaye impuzankano z'umweru ndetse inkuta n'ibikoresho bari gukoresha hano birasa umweru, bameze nk'abari kwihugura kugira ngo bajye bavura bya kinyamwuga.

Inyubako y'ivuriro. Iki ni icyumba kibikwamo imiti ndetse n'ibikoresho; turi kubona amatajeri ari hepfo ndetse no ruguru, akaba ageretse gatatu cyangwa kane. Aha harimo imiti y'amoko atandukanye iri mu makarito, afite amabara atandukanye.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba ahahagazemo umuganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'agapfukamunwa hakaba hateretse icyuma cy'ikoranabuhanga bakoresha bajomera iyi nyubako isize irangi ry'umuhondo hakaba hagaragara y'uko ahangaha ari mu cyumba babyarizamo ababyeyi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, hakaba hari amayesikariye azamuka hafi aho hari ibyuma bihakorotiriye iyi nyubako ifite irange ry'umweru mwo imbere ikagira inkingi zigiye zitandukanye hariho icyapa cy'uburu cy'amagambo yandikishije umweru agaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Tabagwe.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubakishijwe amatafari ahiye, isize amarangi y'umuhondo. Mo imbere harimo icyuma cyifashishwa mu kuzimya umuriro igihe habaye inkongi. Nk'uko bigaragara iki ni ikigo nderabuzima cya Gishweru.

Aba ni abantu bicaye mu kigo nderabuzima bakaba bakeneye guhabwa serivisi z'ubuvuzi harimo abana, abamama ndetse n'abapapa aho bicaye ni kurwakirariro ndetse imbere yabo tukabona andi magambo yandikishijwe ibara ry'umukara bagaragaza y'uko ari aho bakirira inkingo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro irimo ibitanda bigiye bitandukanye. Hasi hakaba hari amakaro, inkuta zisize irange ry'mweru, na ho amadirishya, ibirahuri ni umweru, hakaba harimo uturongo tw'umukara. Aha harimo amarido atandukanya igitanda ndetse n'ikindi.

Inyubako y'ivuriro, iyi nyubako irimo agatanda bakiriraho abarwayi gasasheho ishuka y'umweru, hakabamo mudasobwa ndetse n'izindi mashini bifashisha igihe bapima ndetse banasuzuma abarwayi.

Ku ivuriro hakaba harimo ibitanda bigiye bitandukanye hari ibiryamyeho abarwayi ndetse hari n'ibitaryamyeho abarwayi hamanitse inzitiramibu z'umweru ariko zizinze, hasi hakaba hari isima inyubako inkuta zayo zifite irangi ry'umuhondo.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu ikaba ifite amadirishya asize irangi ry'umuhondo, ikorotirijwe n'ibyuma by'umukara ndetse n'imbere hakaba harimo ubwatsi bwiza cyane ndetse n'indabyo zifite amabara y'umuhondo.

Inyubako y'ivuriro, aha turi kubona inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati y'ubururu, irimo uturongo tumanutse dusize irangi ry'umuhondo. Mo imbere muri iyi nyubako na ho hasize irangi ry'umuhondo, hakaba hari abantu bari kuyifotoreza imbere nkuko bigaragara ku magambo yanditseho, aha ngaha ni aho bafashiriza abantu bahuye n'ihohoterwa.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru, ndetse akaba ari imbere y'ikimashini bigaragara ko iki kimashini gisuzuma ibizamini ,kuko imbere ya harirobine bahita bakarabiramo iyo bamaze kubisuzuma.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo abantu bari kuyimanukamo iyi nyubako isize amarangi meza ikaba isakaje amabati meza ndetse n'imbere harimo idarapo ry'igihugu hakaba n'imodoka ziparitse aho ndetse na moto aha bakaba bahivuriza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro iyi nyubako irimo icyuma kabuhariwe kifashishwa hasuzuma abarwayi hakaba harimo n'umuganga wambaye impuzankano aha rero iki cyuma iyo bagushyizeho bahita babona uburwayi ubwo aribwo bwose waba ufite mu mubiri.

Uyu ni umuganga wambaye impuzankano y'abaganga isa move, akaba yambaye agapfukamunwa ariko yakamanuye. Yambaye amarinete ndetse yambaye n'uturindantoki, aho ari gusuzuma abamama bicaye hano uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo abaganga bambaye impuzankano z'abaganga bikwije hose hakaba harimo ibikoresho byiza kandi bigezweho nk'uko bigaragara aba baganga bakaba bari kwihugura ibijyanye no kuvura.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako ifite ibirahure byiza by'ubururu, ikagira inkuta ziriho irangi ry'umweru. Inzugi zisa umutuku, hasi hasashe amapave, ikirere gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba isize irange ry'umuhondo, hakaba hari amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi kibisi, agaragara y'uko iri ari ivuriro ryahariwe kwita ku ndwara zigiye zitandukanye, harimo n'iya kanseri.

Inyubako y'ivuriro. Iyi nyubako irimo ibitanda byinshi cyane, bakiriraho abarwayi bavurwa baba mu bitaro. Turi kubonamo abaganga bambaye impuzankano y'icyatsi kibisi ndetse n'udupfukamunwa; hakaba hamanitse inzitiramibu z'umweru, amarido ni ubururu.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako ifite ubwicundo aho abana baje kwivuza babazana bakicunda maze bakanezerwa, hakaba harimo n'ibiti byiza cyane bizana umuyaga ndetse n'amahumbezi muri iryo vuriro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ni inyubako isakaje amabati ya oranje, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye, ariko ku nkuta hasizeho irangi rya oranje, hakaba hari utwuma dutoya cyane tw'umukara bagenda bazamukiraho bava hasi bajya hejuru.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo abantu bicaye bari mu mahugurwa, hari umugabo uhagaze uri kubereka uburyo bagomba gukumira ndetse bakanarwanya indwara ya malariya, akaba ariko batungiraho urutoki.

Inyubako y'ivuriro, iyi nyubako yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'ubururu hasi hakaba hari akayira kayinjiramo karimo isima, imbere aho hari indabo nziza cyane zisa umuhondo ndetse hari n'ibigega bibiri by'umukara biri inyuma.

Iyi ni inyubako y'ivuriro aha rero hari akapa gashushanyijeho ijisho ry'umuntu bigaragara yuko muri iyi nyubako bavura amaso ni nyubako yubakishije amatafarihiye ikaba isakaje amabati y'ubururu hakaba harimo amadirishya y'umweru ndetse n'imirongo igiye iriho iriho irangi ry'ubururu.

Umumama w'umuganga wicaye ku ntebe y'umweru ya parasitike, ari mu nyubako yivuriro mo hagati, hakaba harimo n'umwana wambaye impuzankano y'umweru, akaba ari kumuvura kuko ari kumusuzuma ku maboko kugira ngo arebe niba nta muvuduko w'amaraso afite.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo abaganga bambaye impuzankano y'umweru, udupfukamunwa tw'ubururu bakaba bari kureba mu cyuma kiriho bigaragara ko icyo cyuma ari cyo babikamo imiti kikaba gicometse ku muriro aho bakibungabunga kugira ngo kitangirika.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako ifite inkuta z'umweru, hakaba harimo imashini nyinshi zigenda zifashishwa iyo basuzuma abarwayi bafite uburwayi bugiye butandukanye.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, iri vuriro rikaba rifite igikuta kizengurutse cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'ibyuma, mo imbere harimo ubusitani bwiza cyane bugizwe n'indabyo na pasiparume.

Ni inyubako y'ivuriro, turi kubonamo umukobwa wambaye impuzankano y'ubururu, ipantaro ndetse n'ishati, yambaye baji mu ijosi aho ari kugana hari abandi baganga ndetse muri abo baganga harimo n'abazungu, inyubako ni nziza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo agatanda karyamyeho umusore. Hakaba hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru, ari kumupima amaboko ye, ari kumuzengurutsaho akantu k'ubururu, agenda areba uko ubuzima bwe buhagaze ndetse akaba ari bunamuvure.

Aha naho bapimira ibiro by'umwana, ni mu nyubako y'ivuriro hakaba haparitsemo umunzani aho umwana aza bakamwambika agasarobeti maze bakamushyiraho, barangiza bakareba ibiro afite bakamwandika, maze bakamenya ingano yiwe ndetse n'imikurire ye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, muri iyi nyubako hakaba hari intebe zigiye ziri ahantu hagiye hatandukanye nk'uko bigaragara aho bakirira umurwayi hari n'intebe, bivuze ngo bafite ahantu hatatu bakirira abarwayi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba harimo ibitanda bifasheho matela ndetse hariho n'amashuka y'icyatsi kibisi, buri gitanda kikaba gifite amarido agitandukanya n'ikindi, inkuta zisa umweru.

Aba ni abakiri bato bari muri siporo. Nk'uko bigaragara rero bari ahantu hakinirwa umukino w'amaboko, bakaba bari gukina. Inyuma yabo hari abari kubareba. Bose barishimye.

Aba ni abantu bari muri siporo, bakaba bari gukorera siporo rusange ahantu heza cyane hari ibiti bitanga umuyaga ndetse n'umwuka mwiza, ni byiza gupanga mukagira umunsi wo gukora siporo, kuko siporo ni ubuzima.

Siporo ni ubuzima iyo umuntu akora siporo ubwonko bwe burushaho gukora neza baratwereka ukuntu ubwonko butekereza iyo umuntu akora siporoba butekereza kure kandi bukora vuba kuko buba bwaratojwe.

Aka ni agakoresho bifashisha, mu gihe umuntu agize impanuka ari muri siporo, yaba iyo kwiruka, umupira w'amaguru ndetse n'ahandi hantu hateraniye abantu, biba ngombwa yuko aka kahaba, hakaba hari n'abakorerabushake bahita babasimbukana bagahabwa ubufasha.

Aha ni ahakorerwa siporo hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye siporo nzima ni byiza ko dukora siporo kugira ngo imibiri yacu imere neza harimo icyuma gifasha abantu kugorora imigongo yabo maze ikamera neza mu buryo bwimbitse.

Umusore ufite amatuza manini, nta kintu yambaye hejuru nk'uko bigaragara asoje siporo. Ahantu ari inyuma ye harasa ubururu. Uyu musore akaba afite utuntu tumushushanyijeho aho amaboko atereye.

Iki ni igikapu kigaragaramo, imiti ishobora kwifashishwa mu gihe cya siporo. Aho ijyanwa ahagiye kubera siporo rusange, mu rwego rwo kugira ngo nihagira ugira ikibazo afashirizwe ku gihe, ubuzima bwe busigasirwe.

Aka ni agatanda ushobora gukoreramo siporo, aho wicaramo ingingo zawe zikagororoka, cyanecyane aka kagenewe abantu bafite ubumuga, aho ushobora gukora siporo nawe ukagorora ingingo zawe.

N'igikoresho cyifashishwa mu mugihe uri muri siporo ahangaha rero ucyambara ku kuguru ku buryo uramutse wikubise hasi nta rugingo rwawe rwagira ikibazo ahubwo iki cyagufasha maze ugasigasira ubuzima bwawe.

Ibi ni ibikoresho bigiye bitandukanye, ushobora kwifashisha mu gihe uri muri siporo. Harimo umupira w'amaguru, hakabamo umupira w'amaboko bita rugubi ndetse n'uwo bita basikete, hakabamo n'utudenesi, ushobora kudunda, usimbuka, harimo n'umugozi ushobora gusimbuka, siporo ni ubuzima.

Umusore wambaye agasengengeri k'umukara, yambaye n'agakabutura k'umukara; akaba ari gukora siporo. Ari kuzikorera ahantu mu nzu mo imbere, hari urukuta rw'umweru. Ni byiza gukora siporo, kuko siporo zituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umusore uryamye ku gatanda bakaba bari kumugorora imitsi, nk'uko bigaragara yari ari muri siporo arangije agira ikibazo cyo gutsikira. Umugabo ari hano wambaye agapira k'umukara akabari kugenda amufasha gake gake.

Umusore wambaye agapira k'umukara kariho numero 21 nmwe yambaye n'imyenda yabugenewe ya siporo hasi ndetse yambaye n'inkweto zabugenewe n'amasogisi akaba yicaye ku gatanda kwa muganga aho bari kugenda bamugororera ingingo kuko ya ari muri siporo.

Uyu ni umusore wavunitse ubwo yari ari gukora siporo, ahangaha yicaye mu ntebe nziza cyane z'imisego akaba yishyize barafu ku kuboko aho ari kukugorora gake gake kugira ngo kubashe gukira vuba maze asubire mu mirimo ye.

Umukobwa wambaye isengengeri akaba yambaye ikabutura y'ubururu irimo uturongo tw'umweru, yambaye inkweto z'umukara zirimo uturongo tw'umweru, ari gukora siporo yicaye hasi agorora umugongo, amaboko ndetse n'amaguru icyarimwe.

Umusore wavunikiye muri siporo. Yambaye agapira k'umweru n'ikabutura irimo tubara, imbere ye hari umuforomokazi wambaye impuzankano y'ubururu, akaba ari kumukoresha siporo, aho amugendesha gake gake amufatishije ku twuma.

Agakapu k'umutuku karimo uturongo tw'umukara. Hakaba harimo imiti igiye itandukanye ndetse n'ibikoresho ushobora kwifashisha mu gihe uri muri siporo. Ntabwo hari igikapu kimwe ahubwo hari bibiri; hakaba harimo imikasi, bande ndetse na pomadi.

Agasanduku k'umutuku, imiti igiye itandukanye, hari iri mu ducupa hari iri mu makarito. Ndetse aha harimo n'uturindantoki, hakabamo bande ndetse n'ibinya, iyi ni imiti ushobora kwifashisha mu gihe ugiriye impanuka muri siporo.

Amoko y'imiti atandukanye, amwe afunze mu dukarito, andi afunze mu ducupa ,ndetse hakaba hari n'akamenyetso kameze nk'inyenyeri, aha rero iyi miti yose irifashishwa mu gihe wagiriye impanuka muri siporo.

Umukobwa wambaye agasengengeri k'ubururu ndetse n'ikabutura y'ubururu ari kugorora amaboko ndetse n'amaguru, izi siporo abantu bakunze kuzikora kugira ngo umugongo wabo ugororoke ndetse bagire ubuzima bwiza.

Uyu ni umukobwa wavunitse ubwo yakoraga siporo. Ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru, akaba yamushyizeho igipfuko cy'umutuku ndetse akaba yashushanyijeho akantu k'umweru. Ni byiza ko iyo uvunikiye muri siporo wihutira kujya kwa muganga.

Umusore wambaye isengeri y'umukara irimo uturongo twa oranje. Ahagaze ahantu ari gukora siporo. Ari kugorora amaboko, ndetse n'umugongo. Iyi siporo ari kuyikorera ahantu heza cyane ubona ko hitaruye imisozi kandi hari ibiti, bimuha umuyaga.

Ikirahure bari gusukamo amazi, iki kirahure rero kiri kujyamo amazi asukuye umuntu ashobora guhita anywa akiva muri siporo, nawe nujya muri siporo ujye usiga amazi meza cyane uri buywe ugarutse.

Umukobwa ubyibushye yambaye agasengengeri gato cyane k'icyatsi kibisi, akaba yambaye ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umweru zirimo amabara, akaba ari gukora siporo aho yazamuye akaguru kamwe k'ibumoso, akagorora ukuboko kwe nkuko bigaragara, akunda gukora siporo ariko umubyibuho uramwishe.

Uyu ni umusore uri muri siporo, akaba afite amaguru akomeye cyane. Turi kubona ikirenge cye kiriho imitsi ifatiye ku mano, ikaba yarakomeye. Ni byiza gukora siporo kugira ngo umubiri ukomere, maze umuntu arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, yambaye agasenge gato k'icyatsi kibisi. Yambaye agakabutura gato k'ubururu ndetse yambaye n'inkweto za siporo. Akaba ari ahantu heza cyane, hasa icyatsi kibisi. Ari gusunika icyuma, kugira ngo umubiri we ukomere.

Umukobwa wambaye agapira karimo amabara atatu umuhondo ubururu ndetse n'icyatsi kibisi afite isume y'umweru mu ijosi akaba afite gurude y'amazi ari kuyanywa nkuko bigaragara uyu mukobwa avuye muri siporo.

Umusore wambaye isengeri akaba afite icupa ry'amazi rifite ibara ry'ubururu, ari kuyanywa bigaragara ko avuye muri siporo, siporo ni ubuzima tuzikore tuzikunze bityo imibiri yacu ikomere.

Hari akana karyamye hasi, bakaba bari kukagororera ingingo, aho kari kugororwa n'abantu benshi cyane. Ni byiza kwita ku bana, cyane cyane abafite ibibazo kuko baba bakeneye abantu bakuru babitaho.

Umusore uri muri siporo yambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara irimo uturongo tumanuye tw'umweru, ari gukora siporo ahantu heza hasa icyatsi kibisi ndetse harimo uturongo tw'umweru, imbere ye hahagaze umuzungu uri kumukoresha.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umweru, akaba yambaye ipantaro imufashe y'umukara. Ari kugorora amaboko ye ayarambura. Ari gukorera siporo ahantu hitaruye kandi hari ikiyaga.

Aka ni akamenyetso k'ikigo cyita ku buzima bw'abantu ku bukorerabushake croix rouge, aha rero bakaba bagaragaza yuko batanga amahugurwa, bakanahugura abantu ku bijyanye no kwirinda virusi itera SIDA.

Umusore wavunitse ubwo yari ari muri siporo yambaye umupira w'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara, hakaba hari umuganga w'umuzungu uri kumuvura wambaye impuzankano y'ubururu, aho ari kugenda amupfuka ku rugingo rwavunitse.

Iyi ni inyubako irimo imiti igiye itandukanye ushobora kwifashisha mu gihe uri gukora siporo turabonamo amakarito agiye atandukanye arimo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'umweru iyi miti yose rero irifashishwa mu mugihe cya siporo.

Umusore wavunitse ubwo yari ari muri siporo, muganga ari kumuvura, yicaye ku gatanda kariho matera y'umukara, muganga ari kumushyiriraho bande cyangwa se icyo twita isima, ni byiza nawe kwivuza mu gihe wavunitse.

Umwana muto cyane wicaye hasi nk'uko bigaragara hari umuzungu, bigaragara ko asa nk'aho ari kumugorora, hakaba hari umubikira wambaye impuzankano y'ababikira umuri inyuma, bose barishimye kandi iki gikorwa ni cyiza cyo kwita ku bana.

Umusore uri muri siporo wambaye agapira gato cyane akaba afite icupa ry'amazi mu ntoki, ari kugenda ayanywa bigaragara ko asoje siporo, imbere ye hari ibyatsi birebire. Nk'uko bigaragara uyu musore akunda siporo kandi siporo ni nziza mu buzima.

Umukobwa wambaye akenda ko hejuru kagufi, akaba yambaye ipantaro imwegereye, afite imisatsi myinshi cyane, ari gukora siporo, ari kuzikorera ahantu heza nk'uko bigaragara ari kugorora umugongo, ukuguru ndetse n'ukuboko.

Aba ni abana bari gukina imikino igiye itandukanye, harimo uwicaye hasi uri guterura akuma, hakaba uwicaye ku ntebe ari kureba ku kibaho, hakaba uri kwigorora, hakaba uri kwiruka, ndetse hakaba n'abari gukina agapira.

Ibi ni bimwe mu byo ushobora kwifashisha mu gihe uvuye muri siporo. Turi kubonamo imineke, ironji rikase ndetse n'andi maronji adakase, tukabonamo pome, tukabonamo ibitunguru ndetse na marakuja.

Umusore uri muri siporo wambaye agapira k'umukara, ipantaro y'ubururu ndetse akaba ari kugorora amaboko ye, yambaye udukomo twinshi ku kuboko k'ibumoso, ari gukorera siporo ahantu heza cyane, hari ibara ry'icyatsi ndetse akaba akandagiye ku tuntu turi mu ibara ry'umweru n'umutuku.

Ni umusore bigaragara ko yahuye n'impanuka, aha ari ni kwa muganga hakaba hari umuforomokazi uri kumufasha, ari kugenda amwitaho amuha udukoresho twamufasha kugorora imitsi ye y'amaboko.

Umukobwa bigaragara ko avuye muri siporo. Afite icupa ry'amazi risa ubururu. Ari kugenda ayanywa, ariko akiri muri siporo. Nk'uko bigaragara ikirere kirasa neza, gifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Uyu ni umusore wicaye ku gatanda kwa muganga, aho bigaragara ko yavunitse amaguru ye, hari undi muntu uri kumufasha wambaye agapira k'umutuku, uyu musore bamubumbiyeho isima ifite ibara ry'umweru.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko maremare wa oranje, akaba yaragize ikibazo ubwo yakoraga siporo yaratsikiye avunika mu ivi, aha rero bamushyizeho agapfuko kugira ngo abashe gukira.

Uyu ni umusore wavunitse ubwo yari muri siporo, hakaba hari umuganga w'umukobwa uri kugenda umugorora mu ivi, aho yashyize ikintu munsi agashyira n'ikindi hejuru, kugira ngo uru rugingo rugororoke maze uyu musore abashe kongera gutambuka.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi afite agacupa k'amazi ku munywa, inyuma y'iwe hari ibimera bigiye bitandukanye, uyu musore asoje siporo, akaba ari gukorera siporo ahantu heza cyane nk'uko tubibona afite umubiri mwiza cyane.

Uyu musore yavunitse ibiganza ubwo yari ari gukora siporo, aha rero bari kugenda bamwitaho gake gake bamufasha kugira ngo ingingo ze zongere zigororoke, nk'aha bari kumubumbiraho isima igorora amagufwa.

Iki ni kimwe mu bikoresho nkenerwa ku bantu bakora siporo, niba nawe ukora siporo ni byiza ko uba utunze bande, kuko ushobora gutsikira cyangwa se ukavuna maze ikagufasha ugakira vuba.

Umusore wambaye agasengeri k'ubururu, akaba afite gurude y'amazi. Araramye ari kuyanywa, nk'uko bigaragara avuye muri siporo kandi siporo ze yazikoreye ahantu heza cyane.

Iki ni igikapu ndetse n'agasanduku, karimo imiti yifashishwa mu gihe abantu bateraniye ahantu hamwe. Bari mu bikorwa bigiye bitandukanye, aho bashobora kuba bari muri siporo, bashobora kuba bari mu mahugurwa ndetse n'ibindi.

Umusore ndetse n'inkumi bose bafite uducupa tw'amazi bari kuyanywa nk'uko bigaragara basoje siporo ni byiza gukorana siporo n'umuntu mukundana kuko iyo musoje muridagadura kandi mukishimisha ibi rero ni byiza.

Umusore wateruye ibyuma, yambaye agasengeri k'icyatsi kibisi, akaba yambaye agakufi k'ubururu ku kuboko kwe kw'ibumoso, afite icupa ry'amazi ari kuyisuka mu maso. Nk'uko bigaragara avuye muri siporo.

Umusore wambaye insengeri y'umukara, yambaye ekuteri mu matwi, akaba yambaye ipantaro imufasha gukora siporo, ari kugorora amavi ndetse n'amaboko, ari gukorera siporo ahantu heza cyane hasa umweru.

Umusore wambaye insengeri y'umukara, akaba yambaye agakufi k'icyatsi kibisi ku kuboko, afite icupa ry'amazi mu ntoki, yicaye mu muhanda, bikaba bigaragara ko asoje siporo akaba ari kuruhuka.

Umukobwa wambaye agasengeri gato k'umukara, afite telefone ku kuboko akaba yambaye ekuteri mu matwi ndetse yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto nziza za siporo, imbere ye hari icupa ry'amazi, ari kwinanura ananura amaboko ndetse n'umugongo.

Ibi ni bimwe mu bikoresho ushobora kwifashisha mu gihe ukoreye impanuka muri siporo. Aha rero hakaba hari bande ushobora kwizirikaho, maze urugingo rwavunitse ntirutane n'urundi. Ni byiza gukora siporo ufite umuti.

Iyi ni ingobyi yifashishwa ahantu hari gukorerwa siporo ndetse n'ibindi bikorwa rusange, aho usanga iyo bagize ikibazo baryamishaho uwagize ikibazo maze bakamugeza ku kigo nderabuzima.

Umukobwa wambaye agasengengeri k'umukara gatoya, akaba yambaye ipantaro imufashe cyane, yicaye ku mukeka ndetse afite mudasobwa imbere ye n'utwuma twabuhariwe mu gukora siporo, ari kureba muri iyo mudasobwa maze akigana

Aha ni hantu bari kuvurira umuntu wagize impanuka ubwo yari ari gukora siporo, bakaba bashyize icyuma munsi y'akaguru ke, iki cyuma gifasha uwavunitse akaguru kugorora urugingo rwavunitse. Rukaba rwagaruka mu mwanya warwo.

Uyu ni umugabo wavunitse ari gukora siporo aryamye ku gatanda k'umukara hari abantu babiri bari kumugororera umugongo ni byiza ko igihe wavunitse wihutira kujya kwa muganga kuko haba hari inzobere zigufasha kugorora ingingo ndetse bagakemura ikibazo wagize.

Ubu ni ubwoko bw'ibikoresho ushobora kwifashisha mu gihe ukora siporo ndetse n'ibyo ushobora gufata nyuma ya siporo, hari metero, hakaba udupine, hakaba akuma kagorora imitsi y'amaboko, hakaba amazi, pome ndetse n'amaronji.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara imwegereye, aryamye hasi mu nyubako irimo amakaro ikaba yubakishije inkuta z'amatafari ahiye, hakaba hariho amadirishya y'ibirahuri, ari gukora siporo aho ari kugorora umugongo ndetse n'amaguru ye yombi.

Umusore wavunikiye muri siporo aha harimuganga wambaye impuzankano y'umweru uri kumwitaho ahari kugenda amugorora nawe niba uvunitse gerageza kugera kwa muganga maze bagufashe ukire vuba.

Umukobwa uri muri siporo yicaye mu cyuma cyabugenewe, wicaramo ukikaraga maze umubiri wawe na wo ugakomera. Imbere ye hari umugabo wambaye ishati ndetse wanatebeje akaba yambaye n'agapfukamuwa k'umukara. Ari kugenda amwerekera uko abikora.

Umukobwa usoje siporo afite isume y'umweru rutugu, akaba ari kunywa amazi, afite icupa ari kuyanyweramo, ahagaze ahantu heza cyane ubona hitaruye, ikirere kiri gusa umweru ndetse n'ubururu.

Uyu ni umusore wicaye ku gitanda hakaba hari umugabo wambaye agapira k'ubururu karimo uturongo tw'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, ndetse yambaye n'isaha y'umukara ku kuboko ku iburyo, akaba ari kumuzirikaho bande cyangwa se ari kumubumbiraho sima, ibi bifasha umuntu wagize impanuka muri siporo gukira vuba.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera. Iki kimera gifite amababi y'icyatsi kibisi. Nk'uko bigaragara rero kino kimerara ni cyiza kandi gifasha abantu, mu buryo bugiye butandukanye. Ni byiza gukoresha imiti gakondo, mu gihe iyo wahawe kwa muganga itari kukuvura.

Amoko y'imiti gakondo, akaba afunze mu bicupa ndetse andi ari mu bikarito, iyi miti itunganywa neza bakayikura mu bimera kugeza ibaye imiti kandi yaba isukika n'ibinini.

Aya ni amoko y'imiti gakondo ndetse ni imiti ikomoka ku bimera. Ikaba iri mu macupa ya korogate, hari amafoto y'abantu bafite amasura meza cyane, iyi ni imiti bisiga maze uruhu rukamera neza cyane.

Uyu ni umuti gakondo uvura indwara zigiye zitandukanye harimo n'izo kugira isesemi, uyu muti ukaba uri muri kano gakarito gafite amabara y'icyatsi kibisi, hakaba hariho akantu gashushanyije mu ibara ry'ubururu, uwunyweye ukira vuba.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera gifite amababi meza cyane kandi kirandaranze, iki kimera cyifashishwa bari gutegura umuti gakondo, aho bagifata bakacyanika maze kikazavamo umuti mwiza cyane, uvura indwara zigiye zitandukanye.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera bi mfite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, bikaba biteye ahantu hamwe, birashishe bimeze neza kandi byose bivamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zananiranye kwa muganga.

Ubu ni ubwoko bugiye butandukanye bw'ibimera bivamo umuti gakondo, bikaba biteye ahantu hamwe, bimwe ni birebire ibindi ni bigufi, bifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'ay'umuhondo, ibi byose birifashishwa mu gutegura umuti gakondo.

Amoko y'imiti igiye itandukanye hari iri mu tubido ndetse hari n'iri mu bintu bya korogate, iyi miti yose iravura. Iri mu bintu bya korogate hashushanyijeho igikatarubamba naho iri mu tubido hashushanyijeho uruyuki.

Umuntu uri gusekura imiti gakondo ari gukoresha agasekuru k'umweru ndetse n'agahini gafite ibara ry'umweru n'irya kake, akaba ari gusekura ibimera bigiye bitandukanye kugira ngo abitunganye neza maze bivemo umuti.

Aha ni ahantu hacururizwa imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera. Ikaba ifunze mu macupa agiye atandukanye. Nk'uko bigaragara yose ifite ubuziranenge kandi iranyobwa.

Iki ni ikirahure gito kirimo umuti gakondo. Hari umuntu ufite ikiyiko uri kuwudaha, bakagaragaza ibiwugize. Amababi y'icyatsi kibisi ndetse na tangawizi. Uyu muti urasa neza cyane, ufite ibara rya oranje.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera gifite amababi maremare, kikaba kiri ahantu hari ibindi byinshi, ibi bimera nibyo basarura maze bakabishyira hamwe bakabitunganyiriza hamwe bikazabyara umuti mwiza cyane wifashishwa mu kuvura.

Ni amoko y'imiti agiye atandukanye, iyi miti ikaba ikorwa mu bimera kandi iyi miti ikaba igurishwa ku masoko yose ari ku isi, aha rero turi kubona uducupa ndetse n'udusarori harimo imiti igiye itandukanye.

Aya ni amoko y'imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo, bamaze gukoramo ibinini bifunze mudushashi, ibi binini rero ubinyoye biba byizewe kandi biravura neza.

Agacupa gato cyane karimo umuti ukomoka ku bimera gafite ibara ry'umweru, wometseho icyapa gifite ibara ry'umutuku, hakaba hariho agasimba, nk'uko bigaragara uyu muti mu biwugize haba harimo n'ubuki.

Iyo ni amoko y'umuti gakondo ari mu ducupa twa purasitike akaba afunze neza. Ndetse hariho n'icyapa kigaragaza ibigize uwo muti, indwara uvura, ndetse n'uko wawukoresha, mu rwego rwo kugira ngo ukuvure neza.

Aha hari agasekuru k'umweru ndetse n'agahini k'umweru, hakaba uducupa tubiri turimo imiti. Aka gasekuru rero gasekurirwamo umuti mu rwego rwo kuwutunganya kugira ngo umurwayi awuhabwe umeze neza kandi utunganyije.

Aka ni agacupa karimo umuti ukomoka ku bimera cyangwa se umuti gakondo aho ku meza bagaragaje ibiwugize aho bagaragaje ko ugizwe n'umutobe w'indimu ndetse n'amacunga aho uyu muti uvura indwara zigiye zitandukanye.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera tuzi nk'umuravumba, ukaba uvura indwara zigiye zitandukanye, harimo inkorora, hakaba harimo Malariya, ndetse n'ubundi burwayi bugiye butandukanye umuntu ashobora kugira.

Ibi ni ibiti, bikaba biteye mu mavaze ahantu imbere y'umuhanda, ni byiza ko tubungabunga ibimera, kuko bimwe muri byo bivamo umuti ukomoka ku bimera, ukaba wifashishwa mu kuvura abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye.

Aya ni amoko y'imiti gakondo agiye atandukanye, turi kubona akabido karekare kariho igishushanyo cy'uruyuki ndetse n'icyi gikakaruwamba uyu muti ukaba ukoze mu gikakaruwamba ndetse no mubuki.

Agacupa gato cyane k'umuti kakaba kari mu ibara ry'umweru, gafite umupfundikizo w'umweru, aho gateretse hasa umukara. Uyu muti rero, ni umuti ukomoka ku bimera, aho bawutunganya neza, maze bakazawucuruza uri mu macupa meza abengerana.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi hasi hakaba hari amababi y'umuhondo ndetse n'andi yumye ari hasi harimo ibiti birebire ndetse n'ibigufi ayo mababi meza y'icyatsi kibisi niyo asarurwa maze agategurwamo umuti ukomoka ku bimera.

Aya ni amoko y'imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera, cyangwa se imiti gakondo, bikaba bigaragara ko iyi miti iyo uyikoresheje ukira vuba na bwangu, nk'uko byanditseho, bigaragara ko iyo uyinyoye bihita birangira.

Agacupa gato cyane k'umweruru, gafite umupfundikizo w'ubururu n'icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, nta kabuza uyu ni umuti gakondo kandi uvura indwara zigiye zitandukanye.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye, byifashishwa hategurwa umuti gakondo. Kuva kera na kare byarabaga, aho abantu bikoreraga imiti, maze bakivura bitabaye ngombwa, ko bajya kwa muganga.

Ubu ni ubwoko bw'imiti buteretse ahantu hasi nk'uko bigaragara naho iyi miti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera itunganyirizwa kuko turi kuhabona utubindi udukoni duto, udukono dutoya dufite n'imipfundikizo yatwo tukabona uducuma, amabase ndetse n'inkoko.

Agacupa gato gateretse ku meza, aya meza akaba ateretseho imbuto zikase. Izi mbuto ziganjemo amaronji, tungurusumu ndetse n'ibindi. Uyu muti rero barawutunganya maze ukavura abantu nta nkomyi.

Ubu ni bwoko bw'ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi. Aya mababi akaba yifashishwa igihe bakeneye umuti. Baraza bakayasoroma, bakayanika, maze bakayakoramo umuti, ukifashishwa mu kuvura abantu bafite uburwayi.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye, iri soko rero rikaba ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko aha ni ahacururizwa umuti ukomoka ku bimera cyangwa se umuti gakondo, hari iri mu macupa agiye atandukanye.

Ayo ni amoko agiye atandukanye y'imiti akaba afunze mu macupa atandukanye ndetse amwe akaba ari mu dukarito, yose icyo ahuriyeho ni uko agiye ariho icyapa kigaragaza ikcyo iyi miti ivura ndetse n'uko ikoreshwa.

Ikimera gifite amababi maremare gifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse ni kirekire, iki ni kimwe mu bimera bikorwamo umuti ukomoka ku bimera cyangwa se umuti gakondo, aho wifashishwa abantu bivura kandi ukabavura.

Ibi ni ibiti bigiye bitandukanye, harimo ibifite amashami maremare ndetse n'ibifite amababi manini abyibushye. Ibi biti rero bikaba bivamo umuti ukomoka ku bimera cyangwa se umuti gakondo, aho babisarura bakabitunganya maze bikavamo uwo muti.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera ubu bwoko rero bufite amababi y'icyatsi kibisi ndetse nk'uko bigaragara ni umuti gakondo ariko ukiri mu murima, ni byiza kubungabunga imirimo nk'iyi kugira ngo dukomeze kubona aho dukura imiti.

Aya ni amoko y'umuti ugiye utandukanye kandi ukaba uvura indwara zigiye zitandukanye. Nk'uyu nguyu hariho umuntu ufite ibibazo mu ngingo, mu mugongo ndetse no mu rutugu. Aha rero ukaba wawukoresha ibibazo byose bikagenda.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye, kandi ikomoka ku bimera, tuzi nk'imiti gakondo ibarizwa mu mavuriro gakondo, ariko ubu siko bikiri kuko isigaye ifite aho icururizwa, iri mu ducupa duto ndetse ishushanyijeho ibikakaruwamba.

Aka ni agatatsi k'ikibumbano karimo uburoso bw'amenyo hakagaragara umuti mwiza cyane w'amenyo ukoze mu gikakarubamba, uyu ni umuti gakondo uvura amenyo ndetse ugakumira mikorobe zose.

Iyi ni imiti igiye itandukanye ikaba ifunze mu tuntu dugiye dutandukanye hari iri mu dukarito hari iri mu tubido ndetse hari niri mu ducupa duto yose ikaba ari imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera yifashishwa mu kuvura abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye.

Aka ni akadobo karimo imiti gakondo igiye itandukanye, nk'uko bigaragara harimo amabara agiye atandukanye hari umuhondo hari ubururu ndetse nk'uko bigaragara harimo umuti gakondo, hakaba hashushanyijeho n'agasimba aho dukwiye kuwukoresha.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye, iyi miti ikaba ikomoka ku bimera. Turi kubonamo igiye ifite amabara agiye atandukanye nk'icyatsi, umuhondo ndetse n'andi mabara. Iyi miti yose bayita imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera kandi ikavura abantu.

Icupa rito cyane ririmo umuti w'umukara, hariho icyapa cyometseho gishushanyijeho agasimba. Uyu muti rero ukaba uvura uburwayi bugiye butandukanye harimo no kuba haba harimo uburwayi bwo mu nda.

Aya ni amoko y'imiti atandukanye kandi akomoka ku bimera. Turi kubona imiti iri mu makarito ariko kandi tukabona hafi aho ngaho n'imbuto bagaragaza yuko iyi miti iturukamo, harimo umuneke usa umuhondo ndetse n'inanasi iri inyuma.

Aka ni agacupa gato cyane k'umuti gakondo, gashushanyijeho uruyuki ndetse hari n'andi magambo ari mu ibara ry'umukara, kakaba gafite n'umupfundikizo w'umukara, ni byiza gukoresha iyi miti tuzi icyo ivura.

Aka ni agacupa gato, kakaba karimo umuti gakondo, gafite umupfundikizo w'umweru ndetse hariho n'akapa kariho agakoko, aho bigaragara ko uyu muti wica udukoko twose tuba turi mu mubiri w'umuntu maze akagira ubuzima buzira umuze.

Iri ni icupa rito cyane kandi rirerire risa umweru rikaba ririho amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi kibisi aho bagaragaza ko ari umuti uvura kandi ukoze mu bimera mu banyarwanda tukaba tuwita umuti gakondo.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi, hasi hakaba hari andi yahungukiyeho asa umuhondo, ni byiza gutunganya bino bimera maze ubinywa akabinywa bitunganyije kuko biramufasha.

Utu ni mu uducupa turimo imiti igiye itandukanye ya gakondo, aho bagaragaza indwara ndetse n'uko ikoreshwa maze ukaba wayikoresha, ikakuvura burundu.

Ubu ni bwoko bw'ikimera iki kimera tukizi nk'urumogi, kifashishwa bavura ndetse banakora umuti gakondo aho bawutunganya neza maze iki kimera kikawongerera ubukana.

ibiti birebire bifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'ibindi bigufi bifite aya icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo ibi biti bikaba byifashishwa mu rwego rwo kugira ngo bakore imiti gakondo cyangwa se imiti ya kinyarwanda yunganira iy'abaganga batanga.

Aha ngaha ni mu buhumbikiro bw'imiti gakondo, turi kubonamo ibimera bigiye bitandukanye ndetse harimo n'icyapa kiri mu ibara ry'umweru, amagambo akaba yandikishijwe umukara ndetse n'ubururu, hakaba harimo n'abantu bari kubisuzuma.

Aka ni agacupa gato cyane kari mu ibara ry'umweru gafite n'umupfundikizo w'umweru, kakaba kariho icyapa cy'icyatsi kibisi kiriho amagambo yandikishije umuhondo, imbere yako hari igikakarubamba cy'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, bikaba bigaragara ko uyu ari umuti gakondo.

Uyu ni umuntu w'inzobere mu byo gukora imiti gakondo, akaba yifotoje ifoto agaragaza imiti ye, avuga ko ifite ubuziranenge kandi yizewe, uwayinywa yatanga ubuhamya.

Uducupa duto dufite amabara y'umweru, nk'uko bigaragara utu ducupa tukaba dushushanyijeho igikakarubamba, utu ducupa turimo umuti ukomoka ku bimera cyangwa se umuti gakondo, ni byiza kubungabunga iyi miti kuko idufasha mu buzima bwa buri munsi.

Ni amoko y'imiti igiye itandukanye. Ikaba iri mu macupa agiye atandukanye turahabona indabyo, tukabona hose hari amazu meza. Aha rero iyi miti irifashishwa kandi iravura ni imiti gakondo cyangwa se imiti ikomoka ku bimera.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera. Iki kimera kikaba kigira amababi meza; aha rero ayo mababi barayakoresha bamara kuyatunganya, bakayakoramo umuti mwiza cyane kandi uvura. Ni byiza ko dukoresha umuti gakondo kugira ngo dukire vuba.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo igiye itandukanye kandi ikaba ifunze mu buryo butandukanye. Harimo ifunze mu makarito ndetse n'indi ifunze mu ducupa duto n'ifunze mu ducupa tunini. Iyi miti yose irifashishwa kandi iravura.

Akabido karimo umuti ukomoka ku bimera, hashushanyijeho uruyuki, aka kabido kari mu ibara ry'umweru, hakaba ariho umupfundikizo w'umutuku, hari n'amagambo yanditswe mu ibara ritukura.

Aka ni agacupa gato karimo imiti gakondo, kariho icyapa cy'ubururu, hariho agasimba gashushanyije, hakaba hari n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru mu kanuze k'ubururu. Uyu ni umuti uvura kandi wizewe.

Iki ni ikimera kiri mu murima kikaba gifite indabyo zigiye zitandukanye ndetse n'ibibabi. Ni byiza cyane gusigasira ndetse no kurinda ahantu hari imiti gakondo, kuko igenda ibura kandi ivura neza abafite uburwayi bukomeye.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye, bikaba bifite amabara atandukanye, harimo icyatsi kibisi, umuhondo ndetse n'umutuku. Ibi bimera byifashishwa mu gihe hari gutegurwa umuti gakondo, aho babisarura bakabyaka maze bakabisekura bikavamo umuti.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera bigiye bite ahantu hagiye hatandukanye. Ni byiza ko, ibimera bibungwabungwa, cyane cyane nk'ibingibi bikorwamo umuti gakondo, kuko iyi miti gakondo yunganira imiti ya kizungu, maze bakayikoresha bavura abantu.

Amoko y'imiti igiye itandukanye, hari iri mu ducupa, hari iri mu dukarito ndetse hari n'indi ishushanyijeho igikakarubamba, nk'uko bigaragara rero iyi miti irizewe cyane cyane ikoreshwa mu buryo bwo gusukura amenyo.

Iki ni ikirahure kirimo umutobe ugizwe n'amoko y'imiti gakondo, harimo amaronji, hakabamo indimu, tangawizi ndetse n'ubuki, bikaba bifite ibara ryiza cyane.

Aka ni agacupa gato cyane k'ubururu, kakaba kariho agasimba bigaragara yuko uyu muti wica mikorobe, kandi bagaragaje yuko ari amavuta y'uruhu. Aya mavuta rero akomoka ku bimera.

Ibirahuri bibiri biteretse ku meza hakaba harimo amababi, aya mababi rero ni umuti. Ni byiza ko umuntu akora umuti akawutegura neza, kandi akawutegura mu bikoresho bifite isuku kugira ngo unyobwe urimo isuku kandi uvure.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera buvamo umuti gakondo nk'uko tuvizi, uyu muti witwa igikakarubamba uvura indwara zigiye zitandukanye haba iz'ubuhumekero ndetse n'izo mu nda.

Uyu ni umuti gakondo wifashishwa mu gihe dushaka kwica udukoko twose tuba mu menyo kugira ngo tugire amenyo meza cyane kandi asukuye, uyu muti ukaba ukozwe n'igikakarubamba

Iki ni ikimera kiri mu murima kikaba gifite amababi meza cyane y'icyatsi kibisi. Iki kimera rero iyo ugisaruye, ukakivuguta neza ukakinywa, gishobora kukuvura mu nda cyangwa se n'ubundi burwayi waba ufite.

Ubwoko bw'imiti gakondo. Iyi miti ikaba ipanze mu mayetageri. Iyi miti yose ifunze mu makarito kandi ikomoka ku bimera. Ni byiza ko ibungwabungwa igakorerwa isuku, kugira ngo inyobwe n'abantu ibafashe.

Agacupa gato cyane gafite ibara ry'umweru, kakaba gafite umupfundikizo w'umweru, hakaba hari n'akandi k'agapapuro kagaragaza ibigize uyu muti uko ukoreshwa. Hakaba hashushanyijeho uruyuki. Uyu muti uravura kandi ni uwa gakondo.

Iyi ni imiti gakondo imwe kabiri mu makarito indi kabiri mu dubido akabido k'umuhondo gafite umupfundikizo wumutuku hakaba hariho akapa gashushanyijeho uruyuki uyu muti urimo ukaba ukozwe n'ubuki.

Ni ubwoko bw'ibimera turikubona amababi y'icyatsi kibisi. Ibimera bikwiye kujya bisigasirwa kuko ari ingenzi; ni byiza ko leta yashyiraho izo ngamba kugira ngo bibungwabungwe kuko bivamo umuti uvura abantu.

Aka ni akapa kagaragaza umuti, hashushanyijeho agasimba. Ni byiza ko tumenya ibigize umuti tugiye kunywa, tukamenya n'icyo uvura mbere y'uko tuwunywa.

Iyi ni imiti gakondo ifunze neza cyane mu makarito afite amabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo. Bikaba bigaragara ko uyu muti ukoreshwa amasaha makumyabiri n'ane ku yandi mu minsi irindwi.

Uyu ni umuti gakondo. Uyu muti ukoreshwa mu kwivura ndetse no gusukura amenyo. Hashushanyijeho igikakarubamba. Ni byiza gukoresha uyu muti cyane cyane ku bantu bafite ibibazo by'amenyo.

Ayo ni amoko agiye atandukanye y'ibimera biri mu murima, bikaba bimeze neza cyane bishishe. Ibi bimera bikaba bivamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura abantu bafite uburwayi bugiye butandukanye.

Iki ni icyatsi gifite amababi ndetse nk'uko bigaragara kikaba gitohagiye wagira ngo bakimennye ho amazi, iki cyatsi rero kivamo umuti gakondo, aho bagifata bakagitunganya neza maze kikavura abantu.

Iyi ni imiti gakondo ikomoka ku bimera, iyi miti ikaba ikozwe mu bimera bigiye bitandukanye baba basaruye bakabyegeranya bakabitunganya maze bakabifunga mu buryo bugezweho, bakabona kubigurisha ku barwayi.

Agacupa gato cyane k'umuti gafite ibara ry'umweru ndetse hakaba harimo amagambo yanditswe'ibara ry'ubururu, aho hashushanyijeho n'agakoko. Nk'uko bigaragara uyu ni umuti gakondo uvura kandi neza abantu bagakira.

Aya ni amoko y'imiti ikomoka ku bimera ikaba iri mu ducupa twa korogate cyangwa se umuti w'amenyo, aho iyo ukoresheje uyu muti hehe no kuzongera guhura n'indwara zituruka ku mwanda w'amenyo kuko uba wayasukuye.

Uyu ni umugabo uri mu biti cyangwa se mu bimera. Ibi ni bimwe mu byo bifashisha batunganya umuti ukomoka ku bimera. Iyi miti rero ibonwa n'abahanga, kuko na byo bisaba ubushakashatsi.

Uyu ni umugabo uri mu biti, akaba ari gusoroma amababi. Aya mababi rero urayasoroma maze ukayatunganya neza, ukayabyaza umusaruro kuko aya mababi avumo umuti gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera, uvura indwara zigiye zitandukanye.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera gifite ibara ry'icyatsi kibisi. Iki kimera iyo ugikoresheje nabi kirakwica n'ubwo ari umuti gakondo, kuko turabizi neza cyane ko ari urumogi na rwo rukaba rwifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera kiri mu murima, aha hateyemo n'ibindi bimera, iki kimera cyitwa igikakarubamba kikaba kivamo umuti mwiza cyane uvura indwara zigiye zitandukanye haba izo mu nda, izo mu kanwa ndetse n'izo mu mutwe.

Iri ni icupa rito cyane ririho agakoko nk'uko bigaragara rero uyu ni umuti wica mikorobe zigiye zitandukanye, maze uwawunyoye agatandukana nazo akagira ubuzima bwiza.